Amazi rusange, aboneka ahantu henshi hatandukanye mu gihugu, aho ashyirwa mu bice byinshi, byiganjemo ibyo mu byaro kugira ngo abaturage babone amazi hafi kandi meza, ubuzima bwabo bukomeze kugenda neza muri rusange.

Ivomero rusange ry'abaturage batandukanye hirya no hino mu gihugu rishyirwa ahantu henshi aho umuturage ushaka kuvoma aza agapompa amazi akazajya azamuka mu butaka aza i musozi ajya mu jerekani zabo bakabona amazi biboroheye kandi vuba.

Kandagira ukarabe cyangwa se agakoresho k'isuku gashyirwa imbere y'ubwiherero bw'abaturage ndetse n'ahandi hantu henshi hatandukanye, hagamije gukwirakwiza isuku ndetse no gukaraba intoki igihe uvuye mu bwiherero.

Ivomero rusange, rigizwi nk'akazu k'amazi kaboneka ahantu henshi hatandukanye mu gihugu aho kaba gashinzwe gukwirakwiza amazi mu baturage mu buryo bworoshye kandi amazi meza ubuzima bw'abaturage bukagenda neza muri rusange.

Abana bari mu cyumba cy'amashuri kirimo ibikoresho bikoreshwa n'abanyeshuri byiganjemo ibibaho, intebe, ameza. Bari kwiga hagamijwe guteza imbere uburezi ku bana bose kandi neza muri rusange abana bakiga.

Akazu k'amazi kazwi nk'ivomero rusange, gashyirwa ahantu henshi hatandukanye mu gihugu, kegereye abaturage, hagamijwe gukwirakwiza amazi meza mu baturage, abafasha mu kazi kabo ka buri munsi, aho ijerekani iba ihagaze igiceri cy'amafaranga y'u Rwanda makumyabiri, aho atagomba kurenzwa.

Kandagira ukarabe cyangwa se agakoresho k'isuku gashyirwa ahantu henshi hatandukanye, cyane cyane k'ubwiherero ku muryango kugira ngo umuntu uvuye mu bwiherero aze abashe kubona aho akorera isuku, akaraba intoki n'isabune hagamijwe kugira ubuzima bwiza burimo isuku.

Umwana w'umunyeshuri uri gukora isuku ku bwogero rusange akarabye intoki, aho bushyirwa ahantu henshi hatandukanye higanjemo ibigo by'amashuri cyane cyane ku matuwaret, e ndetse no mu masoko n'ahandi hantu hajya abantu benshi, hagamijwe kunoza isuku yo mu ntoki no kugira isuku muri rusange ahantu hose.

Ivomero rusange rigaragara hirya no hino mu gihugu, aho ryahashyizwe kugira ngo rifashe abaturage batuye mu nce zitandukanye kubona amazi meza kandi ku gihe kandi menshi, hagamijwe gukwirakwiza amazi mu baturage.

Uburyo bwo kurwanya no gukumira ugutwita kw'abangavu, ubukangurambaga bwakorewe ahantu bugamije gukangurira abakangurambaga kwirinda gutwara inda zitateganyijwe no kugira ngo ubuzima bwabo bugende neza muri rusange.

Ivomero rusange rizwi nk'amazi y'ubudehe, aho rishyirwa ahantu henshi hatandukanye mu gihugu kugira ngo abaturage bajye babona amazi menshi meza kandi byihuse ku gihe, bitabagoye, bakabasha gukora gahunda zabo za buri munsi neza.

Umwana uri gukaraba cyangwa se uri kuvoma ku ivomero rusange, rigaragara ahantu henshi hatandukanye mu gihugu, cyane cyane ahiganjemo mu cyaro cyangwa se ahandi hantu hatabasha kugera amazi ya robine, aho abaturage bayashyirirwa aho ngaho kugira ngo bajye bayabona biboroheye kandi asa neza.

Umuntu uri gukora isuku ku ntoki akoresheje amazi ava muri robine, hagamijwe kugira isuku muri rusange no gukaraba intoki kugira ngo arinde ubuzima bwe indwara ziterwa n'umwanda.

Ivomero rusange, riboneka hirya no hino, mu gihugu mu baturage, aho rishyirwaho kugira ngo abaturage babone amazi meza, kandi hafi muri rusange ubuzima bwaho bugende neza, aho ijerekani iba igurwa igiceri cya makumyabiri.

Ivomero rusange riteguwe neza ryubatswe mu baturage, aho abaturage biganjemo ingeri zose abagore, abagabo, abana n'abandi bose bahurira baje gushaka amazi biboroheye, aho upompa amazi akava mu butaka ku isoko ubundi akajya mu kivomesho cyawe, ukabona amazi byoroshye.

Ivomero rusange rishyirwa ahantu henshi hatandukanye mu baturage, hagamijwe gukwirakwiza amazi mu baturage kugira ngo bagire ubuzima bwiza bufite amazi meza kandi hafi.

Icyumba cy'inama cyabugenewe giteguyemo ameza yabugenewe gukorerwaho inama kirimo abantu benshi bicaye kuri ayo meza bivanzemo abazungu ndetse n'abirabura n'idarapo ry'u Rwanda bari kuganira ku bibazo bitandukanye byabahurije muri icyo cyambo cy'inama.

Ihuriro ry'abantu benshi batandukanye bavuye hirya no hino mu gihugu bahuriye ahantu hamwe hubatse amatente muri gahunda zitandukanye ziganjemo izirimo inama, ibirori cyangwa se iyindi gahunda ya leta yose ibasaba kuba bari hamwe bakabyumvira hamwe.

Amazi rusange azwi nk'amazi y'ubudehe cyangwa se y'imidugudu, aho ashyirwa mu bice bitandukanye byinshi by'igihugu, cyane cyane yegerejwe abaturage kugira ngo bajye babona aho bakora amazi hafi kandi meza bitabagoye, ubuzima bwabo bwa buri munsi bugende neza burimo amazi asukuye.

Umuganga uri mu kazi ke ka buri munsi, karimo gutanga serivisi kuri buri muntu wese waje amugana, ziganjemo nko gutera inkingo ku bantu bose bakeneye iyo serivisi, hagamijwe kwirinda indwara nyinshi ndetse no gukingira binyujijwe mu guterwa inkingo.

RBC umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri, ubukangurambaga bukozwe n'abantu benshi batandukanye, biganjemo abakozi ba RBC hagamijwe gukangurira abantu kwirinda ndetse no kwipimisha Kanseri muri rusange no kugira ngo abantu bagire ubuzima bwiza.

Ivomero rusange ry'abaturage riboneka ahantu henshi hatandukanye mu gihugu, aho umuturage ukeneye amazi wese ajya kuyashakira mu buryo bworoshye kandi buhendutse kandi vuba bikamufasha gukora akazi kiwe ka buri munsi neza, nta kibazo cy'amazi afite.

UNICEF cyangwa se ikigo gishinzwe kumenya uburenganzira bw'abana ndetse n'izindi gahunda zose zihabwa abana ziganjemo uburezi gukura neza ndetse n'izindi nyinshi kugira ngo abana bamererwe neza.

Ivomerero rusange rizwi nk'amazi y'ubudehe rishyirwa mu bice byinshi bitandukanye mu midugudu, mu baturage hagati, hagamijwe gukwirakwiza amazi meza ku baturage, kandi bakayabona hafi bagakora akazi kabo ka buri munsi neza, nta mpungenge bafite ku mazi.

Ubukarabiro rusange aho abantu bose batandukanye bashobora gukorera isuku yo mu ntoki, bushyirwa ahantu henshi higanje mu bigo by'amashuri kugira ngo abana bajye boga intoki bavuye mu bwiherero, ubuzima bwabo bumererwe neza hagamijwe gushyira imbere isuku.

Umwana ufite isabune uri gukora isuku mu ntoki cyangwa se ibizwi nko gukaraba intoki, mu kiganza n'amazi meza n'isabune, hagamijwe kongera no kwirinda isuku ku bana, cyane cyane bakaraba intoki n'amazi meza n'isabune, bica mikorobe ngo ubuzima bwabo bumere neza.

Sitopu de mabaga fariyasi kigali tuweti okutoba, bibiri na makumyabiri na kane. Icyumba cy'inama cyahuriwemo n'abantu batandukanye biganjemo minisitiri w'ubuzima n'abandi batandukanye aho baje guhabwa ibiganiro bijyanye n'icyorezo cya mabaga hagamijwe kukibonera urukingo no kugihagarika kugira ngo kidakwirakwira.

Ihuriro ry'abantu benshi batandukanye, bahuriye hamwe mu bintu bitandukanye byerekeye inama z'ubuzima kugira ngo bamenye uko bazajya barinda ubuzima bwabo muri rusange.

Ivomero rusange ry'abaturage, ryubatse ku buryo rivana amazi mu butaka munsi y'isoko rikayazamura, ukoresheje uburyo bwo gupomba amazi kugira ngo abaturage babone amazi mu buryo bugufi kandi buboroheye kandi vuba.

Ivomero rusange risangwa ahantu henshi hatandukanye mu gihugu, cyane cyane higanjemo ibice by'icyaro, aho ryubakwa neza rigatunganwa, rikajya rivana amazi mu butaka, rikayageza hejuru imusozi nta kibazo afite, bigafasha abaturage kubona amazi vuba kandi neza.

Amavomero rusange, ashyirwa ahantu henshi hatandukanye hirya no hino mu bice by'igihugu, cyane cyane mu baturage hagati, aho afasha abaturage kubona amazi meza, abegereye kandi vuba, bigafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi, kugira ubuzima bwiza.

Kwa muganga cyangwa se ahatangirwa serivisi zitandukanye zijyanye n'ubuzima, aho abaturage bashobora kugirirwa inama zijyanye no kwirinda indwara ndetse n'ibindi byinshi bijyanye n'ubuzima muri rusange.

Ivomero rusange rizwi nk'amazi y'ubudehe rishyirwa hagati mu baturage, hagamijwe gukwirakwiza amazi meza ku baturage kandi badahenzwe kugira ngo ubuzima bw'abaturage n'akazi kabo bikomeze kugenda neza muri rusange.

Umuturage wikoreye ku mutwe ijerekani y'amazi ayivanye ku ivomero rusange aho abaturage baturutse hirya no hino baza ku ivomero bakabona amazi mu buryo bwiza kandi buboroheye badahenzwe kandi meza.

Ivomero rusange cyangwa se amazi y'ubudehe, aho rigaragara hirya no hino mu gihugu, riba ryashyizweho na leta hagamijwe gukwirakwiza amazi mu baturage, aho ijerekani y'amazi iba igurwa igiceri cya makumyabiri.

UNICEF foru everi cadi. Ikigo gishinzwe uburenganzira bw'abana ndetse n'impunzi ku isi hose, aho mu nshingano zacyo higanjemo kumenya abana bose badahabwa uburenganzira ndetse n'impunzi muri rusange. Hagamijwe kumenya ubuzima bwabo uko bumera neza.

Ihuriro ry'abaturage benshi batandukanye b'ingeri zose, bahuriye kwa muganga muri serivisi zo guhabwa inama zijyanye n'ubuvuzi n'uburyo bakwirinda indwara zitandukanye, aho bahurizwa ahantu hamwe bagahabwa amahugurwa n'inama byerekeye ubuzima no kwirinda kugira ngo ubuzima bugende neza.

Ihuriro ry'abantu benshi batandukanye, higanjemo abapolisi b'u Rwanda n'abandi bantu bambaye ama t-shirt ya orange asa, bahuriye mu bikorwa bitandukanye byiganjemo nk'iby'umuganda cyangwa se ubufasha rusange, hagamijwe kubaka akarima k'igikoni no gukangurira abantu kugira ubuzima bwiza bihaza mu biribwa.

Unicef foru evuri cadi. Umushinga ku Isi hose ushinzwe gukurikirana no kumenya neza uburenganzira bw'abana, nimba buri kimwe cyose bakenera bakibona ko bameze neza muri rusange n'ubundi bufasha bwose.

Kwa muganga ahatangirwa serivisi zitandukanye ziganjemo iz'ubuzima, mu buryo bwose n'inama zihabwa ababyeyi ndetse n'abantu benshi, uburyo bakirinda indwara nyinshi muri rusange no gufata neza abana ku babyeyi, ubuzima bwabo bukagenda neza muri rusange.

Ivomero rusange, riboneka ahantu henshi hatandukanye mu gihugu, cyane cyane mu baturage, hagamijwe kwegereza amazi abaturage meza kandi bakayabona byoroshye, akabafasha mu kazi kabo ka buri munsi, batagize ikibazo cyo kubura amazi meza, ubuzima bwabo bukagenda neza muri rusange.

Ubukangurambaga mu baturage hagamijwe kubigisha kwirinda no kumenya neza uburyo batwara ubuzima bwabo, muri rusange kugira ngo bugende neza aho abaturage bahabwa amakuru mu buryo butandukanye yo kwirinda no kumenya indwara kugira ngo bazirinde.

Inama yahurije abantu benshi batandukanye b'ingeri zose biganjemo abagore n'abagabo ndetse n'abanyamakuru, bagamije kuganira ku biganiro byateza imbere ubukungu bushingiye ku buvuzi ndetse n'ikindi kintu cyose cyakorwa hagamijwe guteza imbere ubuvuzi.

Ivomero rusange ry'abaturage, rigaragara ahantu henshi hatandukanye mu gihugu, aho umuturage ajya gushaka amazi meza, kandi ku giciro kinogeye buri umwe wese, kugira ngo akore akazi k'iwe ka buri munsi bimworoheye, kandi akoresheje amazi meza atagira ingaruka mbi ku buzima bwe.

Umwana w'umunyeshuri uri gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune akoresheje kandagira ukarabe, agakoresho gashyirwa imbere y'ubwiherero ndetse n'ahandi hantu henshi hatandukanye. Hagamijwe kunoza isuku ziganjemo gukaraba intoki ndetse no gukumira indwara nyinshi ziterwa n'umwanda, uvuye kudakaraba intoki.

Abantu batandukanye biganjemo abakozi ba leta bo mu rwego rw'umutekano bazwi nk'abasirikare n'abandi batandukanye, bari mu gikorwa cyo kugaburira abana babaha amata ndetse n'ibindi mu rwego rwo kugira ngo bagire ubuzima bwiza kandi bakure vuba batagwingiye.

Ivomero rusange rihurirwaho n'abantu b'ingeri zose, baturutse hirya no hino, biganjemo abagore, abagabo, abana, abakecuru n'abasaza, aho bahurira bashaka serivisi y'amazi bose kugira ngo bakore imirimo yabo biboroheye.

Ihuriro ry'abantu benshi batandukanye bahuriye ahantu hamwe mu biganiro cyangwa se mu nama, harimo n'abayobozi hagamijwe kwigisha no kumenya neza iby'ubuvuzi ndetse no kunoza serivisi z'ubuvuzi muri rusange.

Ivomero rusange riboneka ahantu henshi hatandukanye, hirya no hino mu gihugu, aho rishyirwa mu baturage hagati kugira ngo babone serivisi z'amazi hafi, ubuzima bwabo bukomeze kugenda neza.

Ibikoresho byinshi bitandukanye byiganjemo ibyo kwa muganga bizwi nka bomboni cyangwa se ibyuma bishinzwe kongerera umwuka abarwayi bakeneye umwuka, n'izindi mashini zitandukanye zikoreshwa no kwa muganga hagamijwe gutanga ubuvuzi bunoze ku baturage.

Umuntu uri gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune, hagamijwe kwirinda indwara ziterwa n'umwanda ndetse no kudakaraba intoki, zirimo n'inzoka ndetse n'izindi nyinshi, zituma umuntu atamera neza bitewe n'umwanda, bigatuma abaturage babona ubuzima bwiza.

Ivomero rusange riboneka ahantu henshi hatandukanye mu gihugu, aho riba ryashyizwe hagati mu ngo z'abaturage. Kugira ngo babone amazi neza, meza kandi vuba, hagamijwe gukwirakwiza amazi mu baturage. Kugira ubuzima bwabo bumererwe neza n'ibikorwa byabo bigende neza ku murongo nta kibazo cy'amazi.

Ubwogero rusange, bushyirwa ahantu henshi hatandukanye, higanjemo mu bigo by'amashuri ndetse n'ahandi hahurira abantu benshi, hagamijwe kugira isuku no gukwirakwiza gukaraba intoki, no kwirinda umwanda n'indwara nyinshi zandurira mu kudakaraba intoki, muri rusange abaturage bakagira ubuzima bwiza.

Kwa muganga ahatangirwa serivisi nyinshi zitandukanye zijyanye n'ubuzima, aho abaturage bose bafite ibibazo bijyanye n'uburwayi bagana bagasanga abaganga bakabafasha babaha serivisi z'ubuvuzi. Haba abakeneye kwipimisha, abakeneye imiti, serivisi zose zihabwa abarwayi bakazihabwa byoroshye kandi neza binemewe.

Umurwayi wo mu mutwe, ari kumwe n'umuntu muzima, bari gusuhuzanya, hagamijwe kumufata, akamuvura, akamera neza nk'abantu bafite ubuzima bwiza.

Icyumba cyo kwa muganga ahatangirwa serivise zitandukanye zijyanye n'ubuvuzi, aho abaturage bashobora kuganirizwa ku bijyanye no kwirinda indwara nyinshi zitandukanye ziganjemo nko kuboneza urubyaro, gufata neza abana n'izindi nyinshi zituma ubuzima bwabo bugenda neza bakamenya no kwirinda.

Ikigo cy'amashuri cya pirimeri kiri mu mwanya wo gukina, aho abana bahabwa amasomo bakajya gukina udukino tubafasha kuruhuka kugira ngo amasomo ajyemo neza.

Twite ku buzima bwo mu mutwe aho dukorera, ubukangurambaga bukorwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima, bukangurira abantu benshi kwita ku buzima bwo mu mutwe muri rusange, kugira ngo bagire ubumenyi ku buzima bwo mu mutwe, bagire ubuzima bwiza.

Umubyeyi uhetse umwana, uri kumwe n'undi umuri imbere ari mu nzu y'umuturage, ari gutegura ibyo kurya byiganjemo nk'igikoma agaburira abana kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Caraes, ibitaro bishinzwe kwita ku ndwara zose zo mu mutwe, zirimo nk'ubusazi n'izindi nyinshi, aho abo barwayi bazirwaye bajyanwa muri iryo vuriro, bagafashwa n'abaganga babihuguriwe kugira ngo ubuzima bwabo bumere neza busubire ku murongo.

Isange One Stop Centre cyangwa se ahatangirwa ibibazo byose bigendanye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Aho umuntu wese ufite ikibazo kigendanye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina abagana bakamufasha bamuha ubutabera.

Abantu benshi batandukanye bahuriye kwa muganga biganjemo abagore n'abagabo, hagamijwe gutanga ibiganiro bitandukanye by'ubuvuzi aho ababishinzwe cyangwa se abaganga baganiriza abaturage ku bibazo baba bafite bijyanye n'ubuvuzi bakagirwa n'inama mu bijyanye no kwivuza.

Abaturage bahuriye mu cyumba kimwe cyo kwa muganga, gitangirwamo ibiganiro bitandukanye bijyanye n'ubuzima, aho abaturage baturutse hirya no hino mu gihugu, baza bagahabwa amahugurwa cyangwa se inama, hagamijwe kubigisha neza, kumenya indwara no kuzirinda n'izindi gahunda z'ubuvuzi zitandukanye.

Umusazi cyangwa se umuntu ubana n'uburwayi bwo mu mutwe, aho aba yataye ubwenge akora ibintu bitandukanye bihabanye n'ibintu bikorwa n'umuntu ufite ubwenge muri rusange.

Abantu bahuriye ku rwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi muri mata igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na kane, aho abantu benshi baturuka hirya no hino ku isi ndetse no mu gihugu baza kwibuka abazize Jenoside yakorewe Abatutsi.

Umuntu uri gukora isuku mu menyo, hagamije kwigisha abantu gukora isuku mu menyo no kugira amenyo meza asa neza, atarimo indwara muri rusange.

Umuntu uri gukora isuku y'amenyo akoresheje akagozi bizwi nko kwiborosa, aho ushobora gukora isuku y'amenyo kugira ngo ugire amenyo meza afite isuku kandi atarimo n'umwanda, hagamijwe kwirinda uburwayi bufata amenyo muri rusange ubuzima bw'abantu bukagenda neza.

Umuntu uri gukora isuku yo mu menyo cyangwa se uri koza amenyo, hagamijwe kugira amenyo meza atatakwa n'indwara zose no mu kanwa hatarangwa n'indwara muri rusange kugira ngo abaturage bagire ubuzima bwiza, butarimo indwara zo mu kanwa.

Umuganga w'amenyo, uri gukora akazi ke ka buri munsi kiganjemo gutanga serivisi z'ubuvuzi bw'amenyo kubabukeneye, aho umuntu wese ufite ikibazo cy'amenyo yaba n'ushaka gusimbuza ayavuyemo cyangwa se afite ikibazo ugenda bakaguhindurira amenyo, ukagira amenyo meza kandi atarimo indwara.

Umuntu uri kwireba muri miriwari akora isuku mu menyo, agamije kugira amenyo meza atariho imyanda, adafite n'uburwayi ndetse no mu kanwa heza muri rusange, mu rwego rwo kwirinda indwara zifata mu kanwa ndetse n'amenyo kugira ngo ubuzima bwe bukomeze kumererwa neza.

Umwana ufite burosada mu ntoki, ugiye kwiborosa cyangwa gukora isuku mu menyo, mu rwego rwo kugira ngo arinde amenyo ye no mu kanwa imyanda, ifata mu kanwa ndetse n'uburwayi bwandurira mu kanwa.

Kwa muganga ahatangirwa serivisi zitandukanye ziganjemo izihabwa abantu bakeneye ubuvuzi bw'amenyo nko guhindurirwa amenyo cyangwa se kuyakorera isuku. Aho ushobora kuba ufite amenyo yakutse, ukaza ugahabwa ayasimbura ubuzima bwakamererwa neza.

Umuntu uri gukora isuku mu menyo, hagamijwe kwirinda indwara zifata amenyo no kugira amenyo afite isuku muri rusange.

Isuku mu menyo, umuntu uri gukora isuku mu kanwa cyane cyane mu menyo, hagamije kwirinda indwara zifata amenyo no mu kanwa no kugira ubuzima bwiza butarimo indwara n'isuku yo mu menyo muri rusange.

Abana benshi bagizwe n'ibitsina byombi, abahungu n'abakobwa bari kwiborosa cyangwa se gukora isuku mu menyo, hagamijwe kugira isuku mu menyo no kugira ubuzima bwiza butarimo indwara ziganjemo n'izo mu kanwa no mu menyo.

Kwa muganga ahatangirwa serivisi zijyanye n'ubuvuzi bw'amenyo, aho umuntu wese ufite ikibazo cy'amenyo agenda akakiganiriza muganga uko cyaba kimeze kose, umuganga akagifasha kugikemura mu rwego rwo kugira ngo agire amenyo mazima atamutera ikibazo.

Umwana uri gukora isuku mu kanwa akoresheje uburoso, hagamijwe kugira isuku mu kanwa no kwirinda indwara nyinshi zo mu kanwa kugira ngo abana bamererwe neza muri rusange, babeho badafite indwara zo mu kanwa.

Abana bari gukora isuku yo mu kanwa ndetse n'amenyo hakoreshejwe uburoso ndetse n'umuti uzwi nka corogati, aho ukora isuku mu kanwa hagamije kwirinda indwara nyinshi zifata mu kanwa, no kugira isuku muri rusange kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza butarimo indwara zo mu kanwa ndetse n'amenyo.

Umuntu uri gukora isuku y'amenyo akoresheje agakoresho kabugenewe kitwa uburoso aho ushyiraho umuti w'amenyo igihe amenyo yawe yanduye ndetse no mu kanwa ubundi ukabikoresha ubyogesha mu kanwa ubundi amenyo yawe akagira isuku akabaho neza nta kibazo afite.

Ubuvuzi bwo mu kanwa butangwa n'abaganga babyigi kandi babizobereyemo, aho umuntu wese ufite ikibazo mu kanwa cyaba icy'amenyo cyangwa se ikindi cyose gihuriye n'akanwa. Abagana bakamufasha bakamuha serivisi zijyanye n'ikibazo afite, ubuzima bwe bukagenda neza muri rusange.

Ibikoresho bikoreshwa mu buvuzi cyane cyane mu buvuzi bwo mu kanwa bikura amenyo, bikoreshwa n'abaganga bize ibijyanye no gukura amenyo n'ibindi bijyanye n'ubuvuzi bwo mu kanwa.

Abantu bari gukora isuku mu kanwa cyangwa se mu menyo bagamije gufata neza amenyo yabo no kunoza isuku yo mu kanwa kugira ngo birinde indwara zifata amenyo no mu kanwa, bagire ubuzima bwiza muri rusange.

Umugabo uri guseka yerekana amenyo, ufite amenyo meza, hagamijwe kwerekana no kwigisha kugirira isuku mu kanwa ndetse n'amenyo kugira ngo ugire ubuzima bwiza.

Kwa muganga ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi bw'amenyo ndetse n'ubwo mu kanwa muri rusange. Aho umuntu agenda akisuzumisha akasama bakareba ikibazo afite mu kanwa, ubundi abaganga bakagufasha bitewe n'ikibazo ufite ubuzima bwawe bukagenda neza.

Icyumba cyo kwa muganga gitangirwamo serivisi yo kwivuza uburwayi bwo mu kanwa, kirimo umuganga ari gusuzuma umukiriya yaje amugana mu kanwa, aho abaturage bafite ikibazo cyo mu kanwa baza bakinjira muri icyo cyumba, bagahura n'umuganga akabafasha abasuzuma, akabaha imiti bijyanye n'uburwayi barwaye.

Umuntu uri gutanga serivise, zijyanye no gufasha, aho ari gufasha umuntu ugeze mu zabukuru, kugira ngo agende neza agorora imitsi akomeza n'amagufwa, hagamije gufata neza abantu bageze mu myaka y'izabukuru, muri rusange.

Abantu babiri biganjemo abari mu myaka y'izabukuru, ndetse n'umwana ari kumufasha gusoma ibyo atakibona neza bitewe n'imyaka agezemo, amwereka neza hagamijwe kumuha keya no kumufata neza muri rusange.

Ihuriro ry'ibicuruzwa ndetse n'abantu, rizwi nk'isoko ryiganjemo iry'ibikomoka ku buhinzi bizwi nk'imbuto ziganjemo amacunga, ndetse n'imboga zirimo inyanya, amapapayi ndetse n'ibintu, aho abantu bahurira bakagura, abandi bakagurisha, ubuzima bukagenda neza.

Umugabo ukuze uri muri siporo agamije kugorora imitsi n'amagufwa no kwirinda indwara z'izabukuru zamufata bitewe no kudakora siporo no kugira ubuzima bwiza muri rusange akora siporo.

Abantu batandukanye biganjemo abagore n'abagabo bari mu myaka yo hejuru, bari muri gahunda ya siporo mu rwego rwo kugira ubuzima bwiza buzira umuze babukuye kuri siporo.

Umukozi wo kwa muganga, uri guha serivise umurwayi uri mu kigero cy'imyaka yo hejuru, hagamijwe kumufasha kumererwa neza no kumenya uburyo afata imiti yiwe, kugira ngo ubuzima bwiwe bugende neza muri rusange.

Umuryango wiganjemo abantu batandukanye barimo abasaza n'abakecuru, abana, abagore n'abagabo hagamijwe gufasha abasaza n'abakecuru ubuzima bwiza no kubafasha guseka no kwishima muri rusange.

Abantu benshi b'ingeri zose biganjemo abakuze bari muri siporo cyangwa se imyizo ngororamubiri, irimo nko guterura ibyuma bagamije kugorora amagufwa n'imitsi kugira amaraso atembere neza mu mubiri, ubuzima bwabo bumere neza.

Abantu bakuru bari mu myaka yo hejuru, bari muri siporo cyangwa se imyitozo ngororamubiri, bagamije kwirinda indwara nyinshi zifata umuntu udakora siporo nk'imivuduko y'amaraso, umubyibuho ukabije, imitsi ndetse n'izindi nyinshi, hagamijwe kugira ubuzima bwiza ku bantu bakuze babinyujije muri siporo.

Kwa muganga ahatangirwa serivise zitandukanye zijyanye n'ubuzima ndetse n'iziganjemo no gufasha abageze mu myaka y'izabukuru, babamenyereza kugenda abadafite amagufwa akomeye, bagamije kubafata neza no kubaha ubuvuzi bwiza muri rusange.

Umuntu uri gufasha umusaza cyangwa se ugeze mu zabukuru, gufata imiti hagamijwe guhafata neza abantu bageze mu zabukuru, batagishoboye kwifasha kugira ngo babeho neza bagire n'ubuzima bwiza.

Abantu benshi bahuriye mu murima uhingamo ikawa, hagamijwe gusarura izeze ngo zikorwe neza zishyirwe ku isoko, hagamijwe kongera ibituruka ku buhinzi, cyane cyane byiganjemo ikawa.

Umuntu uri gutanga ubufasha ku musaza, amufasha guhaguruka ngo agende, mu rwego rwo kumufasha kugorora imitsi no kumererwa neza mu mubiri wiwe.

Umumama ugaragara nk'ugeze mu myaka yo hejuru cyangwa se ukuze uri muri siporo, ari gukoreshwa n'umuntu wabyigiye, amufasha kugorora amagufwa n'imitsi kugira ubuzima bwe bugende neza.

Umuganga uri mu kazi ke ka buri munsi, kajyanye no guha serivisi abarwayi ndetse n'abageze mu zabukuru, hagamijwe kubafasha kubona ubuvuzi hafi kuko baba babukeneye kubera imyaka baba bafite, anamufasha kumererwa neza muri rusange.

Umuganga uri mu kazi ke ka buri munsi, kiganjemo ako guha abarwayi serivisi zitandukanye, cyane cyane hibandwa mu bageze mu zabukuru, abafasha gukora imyitozo ngororamubiri ndetse n'imitsi, hagamijwe kugira ngo abarwayi bamererwe neza muri rusange.

Ubukangurambaga bunyujijwe mu itangazo ryanditse bumenyesha abantu ibimenyetso bya diyabete, byiganjemo nko gukenera kunyara kurusha ibikenewe, kumva unaniwe, gutakaza ibiro, hagamijwe kumenyesha abaturage ibimenyetso no kwipimisha diyabete kugira ngo bamenye uko bahagaze muri rusange.

Abaturage bahuriye kwa muganga muri serivisi zitandukanye, aho baba baturutse hirya no hino mu gihugu, baje gushaka serivisi z'ubuvuzi ziganjemo guhabwa imiti, gusuzumwa indwara ndetse n'inama zijyanye n'ubuvuzi muri rusange kugira ngo ubuzima bwabo bumere neza.

Ahantu hubatswe neza hari gutangirwa serivise zitandukanye zo kwa muganga, ziganjemo izo gupima uburwayi butandukanye bwiganjemo ubwo mu kanwa ndetse n'izindi nyinshi, mu rwego rwo kugira ngo bahe serivise nziza abaturage bagire ubuzima bwiza.

Ihuriro ry'abantu benshi batandukanye biganjemo abakobwa ndetse n'abadamu, bahuriye mu nzu y'inama bagamije kuganira ku bintu bitandukanye byabahurije aho ngaho, bafate umwanzuro rusange.

Ihuriro ry'abantu benshi b'ingeri zose bahuriye mu cyumba kimwe, bagamije kwiga ku bintu byinshi bitandukanye bijyanye n'ubuzima, harimo nko guhabwa amahugurwa ndetse n'inama no ku bintu bakwiriye kwirinda muri rusange ubuzima bwabo bukagenda neza.

Wadi diyabetisi deyi joyinasi ini supuridingi aweyanesi andi sapoti foru dose afekitedi bayi diyabeti. Ubukangurambaga bujyanye no kwirinda gukwirakwiza diyabete ndetse no kuyirinda ku isi hagamijwe kugabanya ubwandure bwa diyabete muri rusange.

Rubyiruko ni mwe hazaza heza h'uru Rwanda, irinde virusi itera Sida ipimishe uyu munsi. Ubukangurambaga muri rusange bukozwe n'abantu benshi batandukanye b'ingeri zose biganjemo abaganga, abagabo, abagore, abakobwa n'abandi bantu bagamije gukangurira abaturage kwirinda virusi itera Sida.

Abakozi bo kwa muganga bari mu kazi kabo ka buri munsi, ko gutanga serivisi ku barwayi bose bakeneye serivisi z'ubuvuzi, kugira ngo bamererwe neza ubuzima bwabo bumere neza muri rusange.

Ihuriro ry'abantu benshi, bahuriye ahantu hamwe, bari guhabwa amahugurwa, agendanye n'ubuvuzi hagamijwe kunoza neza imivurire y'abaganga muri rusange, no gufata neza abakiriya.

Ibitaro cyangwa se inzu yo kwa muganga, irimo ibikoresho bitandukanye byaho byiganjemo ibitanda na za kizimyamwoto ndetse n'abarwayi n'umuganga uri kubafasha, abaha serivisi zitandukanye z'ubuvuzi kugira ngo ubuzima bwabo bumererwe neza.

Inzu y'ababyeyi cyangwa se materineti, ahantu hatangirwa serivisi zose z'ubuganga zihabwa ababyeyi ndetse n'abana, aho umubyeyi wese ufite ikibazo kigendanye n'umwana cyangwa se ugiye kubyara afashirizwa, muri rusange akamererwa neza.

Ruhengeri hospital cyangwa se ibitaro bya Ruhengeri, aho buri muturage wese wegereye ibi bitaro ukeneye serivisi zose zijyanye n'ubuzima, ndetse n'inama z'ubuzima akigana kikamufasha muri rusange, abaturage bakabona serivisi z'ubuvuzi ndetse n'imiti hafi.

Icyumba kimwe mu bigize ibyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye bikoreshwa n'abaganga byiganjemo imashini zipima imivuduko n'imitima ndetse n'ibindi byinshi bifasha abaganga mu kazi kabo ka buri munsi hagamijwe gutanga serivisi zinoze ku barwayi baganye ibyo bitaro.

Ibitaro cyangwa se inyubako yo kwa muganga, aho buri muturage wese, uba ukeneye serivisi z'ubuvuzi ashobora kuyigana ikamufasha, kuko iba iri hafi ye, kandi ikamuha serivisi akeneye neza muri rusange.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byinshi bikoreshwa n'abaganga byiganjemo amamashini atandukanye akora mu buryo butandukanye akoreshwa n'abaganga mu buzima bwabo bwa buri munsi, kugira ngo batange serivisi zinoze kandi zihuse ku babagana.

Ibitaro byo kwa muganga birimo ibitanda by'abarwayi, birwariyeho abarwayi, aho abaturage baturutse hirya no hino bakeneye serivisi z'ubuvuzi, babigana bikabafasha kubona ubuvuzi byoroshye kandi byihuse ubuzima bwabo bukamererwa neza muri rusange.

Ibitaro byo kwa muganga birimo ibikoresho bitandukanye bikoreshwa no kwa muganga byiganjemo: ibitanda abarwayi barwariraho, inzitiramibu zibarinda kwandurwa na malariya ndetse n'ibindi byinshi, aho abaturage babonera serivisi z'ubuvuzi byihuse kandi vuba.

Inyubako yo kwa muganga cyangwa se ibitaro ahakirirwa abantu hazwi nka resebusiyo aho abaturage bose bafite ibibazo bitandukanye bijyanye n'ubuzima bashobora kugana ibitaro bakabakira bakabafasha kubaha serivisi z'ubuvuzi kandi neza bakagira ubuzima bwiza buzira umuze.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo ibikoresho bitandukanye bikoreshwa n'abaganga mu buzima bwabo bwa buri munsi ndetse no mu kazi, byiganjemo amamashini ndetse n'ibindi bintu byinshi byo mu cyumba cyo kwa muganga cyane cyane gikorerwamo operasiyo cyangwa se kibagirwamo kugira ngo abarwayi bagire ubuzima bwiza.

Materiniti cyangwa se inzu y'ababyeyi. Inyubako yo kwa muganga itangirwamo serivisi zo kwa muganga ariko zihabwa ababyeyi ndetse n'abana cyane cyane aba mama bagiye kubyara ndetse n'abana bashaka ubuvuzi muri rusange kugira ngo ubuzima bwabo bugende neza.

Kwa muganga ahatangirwa serivisi zitandukanye zerekeranye n'ubuzima, zirimo nko gupima indwara zitandukanye, umuvuduko w'amaraso ndetse n'izindi zose zo mu mubiri kugira ngo umuntu arebe ko afite ubuzima buzira umuze.

Icyumba cyo kwa muganga giteguyemo ibikoresho byaho byiganjemo ibitanda bikoreshwa baryamaho, amamashini asuzuma abaje kwivuza, aho abarwayi babiryamaho, abaganga bakabaheraho serivisi biboroheye kuko biba byegeranye n'ibikoresho byabyo.

Isange One Stop Cente, Remera, Rukoma, ahatangirwa ikirego ku muntu wese wakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina, yaba umukobwa cyangwa umugore, umugabo cyangwa umugore, afite ikibazo cyose kijyanye no guhohoterwa bishingiye ku gitsina arakigana kikamufasha.

Risaci centa cyangwa se ahakorerwa ubushakashatsi. inyubako y'ubuvuzi ikorerwamo ubushakashatsi aho abaganga biherera bitewe n'ikintu runaka bashaka gukoreraho ubushakashatsi bakagicukumbura bagatanga ibisubizo ku bushakashatsi bakoze hagamijwe gutanga ubuvuzi no kuvumbura ibintu byinshi mu buvuzi muri rusange.

Kwa muganga, icyumba kimwe kirimo ibikoresho bihakoreshwa, byiganjemo ibyuma bibaga abantu, binabapima imiterere y'imitima yabo n'abakozi baho, biganjemo abadogiteri bari kureba muri icyo cyuma, bagamije gusuzuma umuturage waje gushaka serivisi zo kwivuza.

Isange One Stop Center aho bakirira abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ikigo kigaragara ahantu hose mu gihugu, gishinzwe kwakira ibirego by'abantu bakore ihohoterwa rishingiye ku gitsina bagahabwa ubutabera bishimiye kandi bubabereye.

Inyubako yo kwa muganga, ahatangirwa serivise nyinshi zitandukanye zijyanye n'ubuvuzi aho abaturage hirya no hino baza bahagana, bashaka serivise ziganjemo izo guhabwa ibinini, kuvurwa indwara zitandukanye kandi bakabihabwa neza kandi vuba muri rusange.

Ikigo nderabuzima cya Nyarurenzi, aho abantu bose bakeneye serivisi yo kwivuza, bakigana kikabafasha muri serivisi zose bashaka zijyanye n'ubwivuzi muri rusange ubuzima bwabo bukamererwa neza.

Kwa muganga mu bitaro, icyumba cyabugenewe kirimo ibikoresho bitandukanye byinshi byo kwa muganga, byiganjemo ibitanda abarwayi barwariraraho, abaforomo ndetse n'abakozi bashinzwe kuhakora isuku, kugira ngo gahunda y'ubuvuzi itangwe neza kandi inogeye buri umwe.

Ibitaro byo kwa muganga, ahatangirwa serivisi nyinshi zitandukanye, ziganjemo iz'ubuvuzi ndetse no gutanga amaraso, hagamijwe gufasha abantu bafite amaraso makeya muri rusange no kugira ngo ubuvuzi bugende neza.

Kimwe mu cyumba cyo kwa muganga ahari ibikoresho byinshi bitandukanye bikoreshwa mu buvuzi, byiganjemo amamashini ndetse n'ibindi byinshi kugira ngo abaturage bahabwe serivisi zinoze kandi neza babone ubuvuzi bwiza.

Peniel Pharmacy; inzu icuruza ubwoko bwose bw'imiti yo kwa muganga, aho umuturage ashobora kubariza imiti y'ubwoko bwose yandikiwe na muganga cyangwa se ashaka gukoresha mu bwivuzi, hagamijwe kugira ubuzima bwiza no kubona imiti hafi muri rusange.

Mediya soru farumasi Kanombe, inzu isangwamo ibikoresho byose bijyanye n'ubwivuzi byiganjemo imiti y'ubwoko bwose; yaba ibinini ndetse n'ishinge, aho umuntu wese ashobora kugana iyo nzu akayikuramo ibikoresho bijyanye n'ubwivuzi bikamufasha.

Abaturage benshi bo mu ngeri zose biganjemo abagabo n'abagore bahuriye mu bitaro byo kwa muganga, hagamijwe guhabwa serivisi zerekeye n'ubwivuzi zitandukanye kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Kwa muganga, mu bubiko bw'imiti yose itandukanye, aho ushobora gusanga imiti yose uba wandikiwe, ubundi ukayihabwa, ukayijyana, ukayikoresha, mu bwivuzi, bitewe n'indwara urwaye.

Ikigo nderabuzima cya Rwerere, gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi z'abaturage batuye hafi y'icyo gice. Aho bakigana bafite ibibazo bitandukanye bijyanye n'ubuzima, nabo bakabafasha mu kubaha ubuvuzi.

Inzu y'ababyeyi izwi nka materinite mu ndimi z'amahanga ,aho itangirwamo serivisi zose z'ubuvuzi zihabwa ababyeyi, zirimo nko kubyariramo, guha serivisi abana ndetse n'izindi zose ababyeyi bifuza mu buzima bwabo bwa buri munsi, bikabafasha kubona ubuvuzi hafi.

Icyumba cyo kwa muganga giteguyemo ibitanda byinshi birwarizwaho abarwayi bakeneye serivisi zo kwivuza, aho abo barwayi baryama, bitewe n'indwara barwaye umuganga akabahasanga, akabafasha bitewe na serivisi bakeneye, bikabafasha kubona ubuvuzi neza kandi biboroheye.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye, bikoreshwa n'abaganga muri serivise zabo zitandukanye zo guha abantu ubuvuzi, byiganjemo igitanda kiriho imiti itandukanye, yiganjemo amaserume ndetse n'ibindi byinshi baha abaturage kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo ibitanda byinshi by'abarwayi, n'imashini, n'amafirigo, bikoreshwa kwa muganga, igihe cyose hari gutangwa serivisi z'ubuvuzi ziganjemo izo kubagwa, n'izindi zisaba amamashini yo kwa muganga.

Ivuriro rusange ahahuriye abantu benshi batandukanye b'ingeri zose, biganjemo abagore n'abagabo n'abari mu myaka y'ubukure aho bahabwa ibiganiro bitandukanye bijyanye n'ubuvuzi n'uko bakirinda indwara, hagamijwe kwigisha abaturage kumenya kwirinda indwara no kuzivuza hakiri kare muri rusange.

Ahatangirwa serivisi zitandukanye zo kwa muganga, aho usanga amazu menshi atandukanye bitewe na serivisi y'ubuvuzi ushaka, arimo amazu y'ababyeyi, ay'abana, ay'inkomere ndetse n'izindi serivisi zo kwa muganga zitandukanye, aho abarwayi basanga abaganga kwa muganga bakabavura.

Ikigo nderabuzima cya Tabagwe gishinzwe gutanga serivisi z'ubuvuzi muri Tabagwe, aho abaturage bose bakeneye serivisi z'ubuvuzi bakigana kikabafasha muri serivisi bashaka.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye birimo nk'imeza n'ibitanda ndetse n'amamashini bikoreshwa kwa muganga, igihe hari gutangwa serivisi z'ubuvuzi ziganjemo izo kubaga ndetse n'izindi zisaba kuryama ku bitanda byo kwa muganga kugira ngo ubuzima bw'abaturage bumere neza.

Ikigo nderabuzima cya Matyazo giherereye mu Karere ka Huye, mu Murenge wa Ngoma gishinzwe gutanga serivisi nyinshi ku baturage ziganjemo iz'ubuvuzi. Aho abaturage baturutse hirya no hino muce zitandukanye z'Igihugu bakigana kikabafasha muri serivise zijyanye n'ubuvuzi. Aho kibaha imiti, kikanabapima indwara nyinshi bakagira ubuzima bwiza.

Ibitaro byo kwa muganga, byubatse neza birimo ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga, byiganjemo imashini zikoreshwa kwa muganga, ibitanda abarwayi bakoresha barwaye igihe baje gushaka serivise zo kwa muganga kugira ngo bazihabwe neza kandi vuba bitabagoye.

Ibitaro bitanga serivisi zitandukanye ziganjemo izo ubuvuzi, zirimo kubyaza abagore, icyumba cy'abagabo, icyumba cy'abagore, icyumba cy'indembe n'izindi serivisi zose zikorwa no kwa muganga hagamijwe guha ubuvuzi abaturage.

Inyubako yo kwa muganga cyangwa se ibitaro, ahatangirwa serivisi nyinshi zitandukanye z'ubuvuzi, aho abarwayi baturutse hirya no hino bakeneye serivisi ziganjemo iz'ubuvuzi, bose babigana bikabafasha muri serivise zose bakeneye z'ubuvuzi, ziganjemo izo kubaha imiti no kubakira mu zindi serivise zose.

Ibitanda byinshi byo kwa muganga byifashishwa n'abarwayi baryamyeho, igihe bari guhabwa serivisi n'abaganga babugenewe, kugira ngo bagire ubuzima bwiza, babashe kubaho neza.

Ibyuma byo kwa muganga bizwi nka bomboni aho bikoreshwa ku barwayi bakeneye umwuka bafite umwuka muke aho babibacomeka kugira ngo bibashe guhumeka neza ntakibazo ubuzima bwabo bukomeze kugenda neza.

Karayesi cyangwa se ibitaro biboneka ahantu hatandukanye mu gihugu bishinzwe kwita ku barwayi babana n'ikibazo cyo mu mutwe, aho bakigana kikabafasha kikabaha ubuvuzi bagakira nabo ubuzima bugasubira ku murongo bakabaho neza muri rusange.

Kwa muganga ahatangirwa serivise zitandukanye nyinshi, zijyanye n'ubuzima aho umuntu wese ufite ikibazo mu mubiri we ashobora kubagana bakamufasha bitewe n'ikibazo afite, akagira ubuzima bwiza muri rusange abaturage bakabaho neza bafite ubuzima buzira umuze.

Icyumba kimwe mu byo kwa muganga, gitangirwamo serivise z'ubuvuzi cyane cyane iziganjemo izo kubaga, kirimo ibikoresho bitandukanye bikoreshwa n'abaganga, byiganjemo imashini zibaga, ibitanda biryanwaho n'abaturage ndetse n'ibindi byinshi bifasha abaganga mu kazi kabo ka buri munsi kugira ngo batange serivise nziza.

Kwa muganga, ahagaragara ibitanda byinshi bikoreshwa n'abarwayi baba barwariyeho n'ibyuma bibafasha muri serivisi zabo za buri munsi zirimo gusuzuma abarwayi, kubaha umwuka ndetse n'izindi nyinshi kugira ngo babone serivisi z'ubuvuzi nziza kandi vuba.

Karayesi ibitaro by'abarwayi bo mu mutwe, aho abafite ikibazo cyo mu mutwe bajyanwa kugira ngo bahahurire n'abaganga bize kuvura uburwayi bwo mu mutwe. Babafashe kubona ubuvuzi neza kandi byihuse ubuzima bwabo bumere neza, bagaruke muri sosiyete y'abantu bazima nta kibazo bafite.

Inzu y'ubuvuzi ishinzwe kwita ku babyeyi bashaka serivisi z'ubuvuzi zitandukanye zirimo nko kubyara, kuboneza urubyaro ndetse n'izindi serivisi nyinshi ababyeyi bakenera mu buvuzi bigatuma ubuzima bwabo bugenda neza babona ubuvuzi biboroheye.

Purogiresi farumasi, inyubako cyangwa se inzu ushobora gusangaho serivise nyinshi zitandukanye zijyanye n'ubwivuzi, aho ushobora kuhasanga imiti y'ubwoko bwose ugura ikagufasha mu bwivuzi, muri rusange ubuzima bwawe bukagenda neza.

Kwa muganga, aho umurwayi asanga umuganga agiye kwisuzumisha akamuganiriza uburyo arwaye nta kintu na kimwe asimbutse kugira ngo umuganga yumve neza uburyo aribwamufashe bimworoheye kandi neza.

Kwa muganga ahatangirwa serivise zitandukanye, zijyanye n'ubuzima aho bakira abarwayi b'ubwoko bwose, yaba ab'indembe cyangwa n'abatarareremba, bose bakabafasha kumererwa neza babavura, ubuzima bwabo bukajya ku murongo.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho bitandukanye, byiganjemo ama mashini afasha abantu kumererwa neza mu buvuzi bwabo bwa buri munsi, aho imashini igupima bitewe n'indwara ufite, kugira ngo umererwe neza muri rusange ugahabwa ubuvuzi.

Icyuma cyo kwa muganga cyabugenewe, gishinzwe gukora serivise zitandukanye zo kwa muganga, zirimo nko kongerera abantu umwuka, kubapima aho umurwayi aza akakiryamaho, ubundi abaganga bakamukorera serivise zigendanye n'uburwayi bwiwe.

Inzu yabugenewe, itangirwamo serivisi zo kwa muganga, cyane cyane izerekeranye no kubyaza abagore, ndetse no gufata abana babo neza, harimo nko kubakorera amasuku babacira inzara, n'izindi serivisi zose zihabwa umwana uvutse, bikamufasha kumererwa neza.

Kwa muganga ahatangirwa serivisi zitandukanye zijyanye n'ubuvuzi, cyane cyane ku bantu babana n'ubumuga, aho ufite ubumuga wese ashobora kugana ibitaro bikamufasha ikibazo afite cyose kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza no gukira vuba.

Ikigo nderabuzima cya Shagasha gishinzwe gutanga serivisi ku baturage begereye Umurenge wa Shagasha, aho mu bice byose bitandukanye by'igihugu bisangwamo ibigo nderabuzima hagamijwe kwegereza serivise abaturage z'ubuvuzi, muri rusange abaturage bakabona ubuzima bwiza.

Kabgayi hosipito cyangwa se ibitaro bya Kabgayi, bishinzwe kwakira abaturage bashaka serivisi zose zigendanye n'ubuvuzi, aho umuntu wese ukeneye imiti cyangwa se kwivuza indwara zitandukanye, ukeneye serivisi zose zijyanye n'ubuganga cyangwa se no kwa muganga, agana bakamufasha akagira ubuzima bwiza.

Icyumba kimwe, mu nzu kwa muganga, gitangirwamo serivisi y'ubuvuzi, kiganjemo ibikoresho bikoreshwa n'abaganga mu kazi kabo ka buri munsi, birimo imashini z'ubwoko bwose, zirimo izibaga, izipima ndetse n'ibindi byinshi bikoreshwa n'abaganga, hagamijwe gutanga serivisi zinoze ku baturage.

Ibitaro byo kwa muganga, bitangirwamo serivisi zitandukanye zijyanye n'ubuzima, birimo ibikoresho byinshi bisangwa kwa muganga, byiganjemo nk'amamashini ndetse n'abakozi baho bashinzwe guha serivisi ababaganye bakeneye serivisi z'ubuvuzi kugira ngo ubuzima bwabo bumererwe neza muri rusange.

Ibitaro bitanga serivisi zo kwa muganga zitandukanye birimo ibikoresho byinshi byiganjemo intebe, ibitanda ndetse n'abaganga bashinzwe gutanga serivisi z'ubuvuzi, bambaye imyenda ibafunga ahantu hose bagamije kwirinda kwandura indwara muri rusange.

Umuganga uri mu kazi kiwe ka buri munsi, kajyanye no kwita ku bamugana, abaha serivisi zijyanye n'ubuvuzi, cyane cyane hibandwa ku bageze mu zabukuru, bagaragara nk'aho bafite imyaka yo hejuru kugira ngo bahabwe serivisi, banafashwe, ubuzima bwabo bugende neza muri rusange.

Icyumba kimwe mu nyubako yo kwa muganga gitangirwamo serivisi nyinshi zitandukanye zo kwa muganga ziganjemo kwakira abarwayi ku bitanda, bagapimwa bitewe n'indwara barwaye, bagahabwa n'imiti, ubuzima bwabo bukamererwa neza muri rusange, abaturage bakabona ubuvuzi hafi kandi vuba, kandi bwizewe.

Icyumba cyo kwa muganga kiririmo udutanda twinshi turiho abarwayi ndetse n'abaganga bari kubafasha muri gahunda z'ubuvuzi, aho abarwayi bajya kwa muganga bitewe n'indwara barwaye bakahahurira n'abavuzi babyigiye bakabafasha kubaha serivisi z'ubuvuzi zitandukanye.

Ibitaro cyangwa se kwa muganga, ahaboneka ibikoresho byinshi bitandukanye bitangirwaho serivisi zo kwa muganga, cyane cyane nk'ibitanda abarwayi baryamaho igihe bategereje serivisi ya muganga muri rusange.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga, byiganjemo udutanda tw'abarwayi, imashini bakoresha bari kuvura ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye bikoreshwa kwa muganga, hagamijwe gutanga serivisi zinogeye abaturage.

Kwa muganga umurwayi uryamye ku gitanda cyaho, ari guhabwa serivisi n'umukozi usanzwe utanga serivisi z'ubuganga uhakora, aho abaturage batandukanye bajya kwa muganga kwisuzumisha ibibazo bafite bagafashwa na muganga kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Inyubako y'ibitaro, ishinzwe gutanga serivise nyinshi zitandukanye zijyanye n'ubuvuzi, aho abarwayi baza bagana iryo vuriro, rikabaha serivisi ziganjemo imiti, kubasuzuma indwara nyinshi zitandukanye, bakagira ubuzima bwiza.

Abakozi bo kwa muganga bari mu kazi kabo ka buri munsi ko gutanga serivisi z'ubuvuzi ku barwayi n'ibyuma bishinzwe kuzimya umuriro igihe habonetse inkongi y'umuriro vuba.

Icyuma cyo kwa muganga gikoreshwa n'abaganga mu kazi kabo ka buri munsi, baha abaturage kirimo kubapima umuvuduko wo gutera k'umutima wabo n'izindi serivisi zose zijyanye no kwa muganga.

Ibitaro cyangwa se inyubako yo kwa muganga ahatangirwa serivisi zose kandi nyinshi zitandukanye zijyanye n'ubuvuzi, aho ushobora gusanga imiti, aho ushobora kujyana abarwayi ndetse n'ibindi byinshi kugira ngo ubuzima bw'abantu bugende neza, babone ubuvuzi bunoze.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibyuma byinshi bikoreshwa no kwa muganga byiganjemo amafirigo, amasikaneri, amalaputopu ndetse n'ibindi byinshi bikoreshwa n'abaganga mu kazi kabo ka buri munsi kugira ngo babashe gutanga serivisi y'ubuvuzi ku baturage kandi biboroheye binihuse.

Ibitaro byubatse neza, birimo ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga, byiganjemo amamashini, ibitanda by'abarwayi aho abarwayi baza bakeneye serivise z'ubuvuzi, bagafashwa byihuse kuko bafite ibikoresho bihagije.

Kwa muganga cyangwa se ibitaro bishinzwe gutanga serivisi nyinshi zitandukanye, ziganjemo iz'ubuvuzi bw'indwara z'ubwoko bwose n'iz'amaso kugira ngo abaturage babone ubuvuzi muri rusange bw'indwara zose.

Umuntu uri muri siporo, uri kunywa amazi ayavana mu gacupa, yambaye ekuteri, ari kuruhuka kugira ngo ubuzima bwe bumere neza, akoresheje amazi na siporo.

Umuntu uri mu myitozo ngororamubiri n'amagufwa bizwi nka siporo bikorwa n'umuntu wese, hagamijwe kwirinda indwara nyinshi zitandukanye ziganjemo nk' umubyibuho ukabije, umuvuduko w'amaraso, ndetse no kugabanya siteresi n'izindi nyinshi kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza.

Imyitozo ngororamubiri ndetse n'amagufwa izwi nka siporo, aho buri muntu wese aba yemerewe kuyikora, hagamijwe kwirinda indwara nyinshi zitandukanye ziterwa no kudakora siporo ziganjemo: nk'umubyibuho ukabije, umuvuduko, ndetse n'izindi no kugira ubuzima bwiza muri rusange, ubuzima bwawe bukagenda neza bitewe na siporo.

Imyitozo ngororamubiri izwi nka siporo, ifasha umuntu kugorora amagufwa ndetse n'imitsi muri rusange, bigatuma amaraso atembera neza, bikanamurinda indwara nyinshi zitandukanye, ziganjemo nk'umubyibuho ukabije, umuvuduko w'amaraso ndetse n'izindi akagira n'ubuzima bwiza.

Kwa muganga ahatangirwa serivisi zitandukanye z'ubuvuzi, zijyanye no kuvura indwara zitandukanye nyinshi, cyane cyane hatangirwa na serivisi zijyanye no kugorora abana kugira ngo bagire amagufwa agororotse n'ubuzima bwiza.

Umuntu uri mu cyumba gikorerwamo siporo, wambaye n'imyenda ya siporo, uri gusunika icyuma, agamije kugira ubuzima buzira umuze bumeze neza bukora siporo kandi budafite ikibazo.

Umuntu uri mu myitozo ngororamubiri n'amagufwa zizwi nka siporo mu ndimi z'amahanga, aho zikorwa n'umuntu wese hagamijwe kwirinda indwara nyinshi zitandukanye ziterwa no kudakora siporo, ziganjemo umubyibuho ukabije, umuvuduko w'amaraso no kugira umubiri mwiza n'ubuzima muri rusange.

Inzu yabugenewe ikorerwamo imyitozo itandukanye irimo igorora umubiri nko guterura ibyuma, kwirukanka gukora popaje na budomino hagamijwe kubungabunga ubuzima bw'umuntu akora siporo kugira ngo agire ubuzima bwiza buzira umuze.

Umuntu uri muri siporo ziganjemo izo kugorora imitsi ndetse n'amagufwa hagamijwe kugira ubuzima bwiza buzira umuze, butarimo ikibazo biturutse kuri siporo ari gukora.

Umuntu uri muri siporo cyangwa se imyitozo ngororamubiri uri kunywa amazi agamije kongera ubuhehere mu mubiri ndetse no kwirinda indwara nyinshi zitandukanye ziterwa no kudakora siporo nk'umubyibuho ukabije, umuvuduko w'amaraso, ndetse n'izindi nyinshi muri rusange.

Imyitozo ngororamubiri, cyangwa se siporo, umuturage ashobora gukora siporo zitandukanye, agamije kurinda ubuzima bwe ndetse no kumererwa neza muri rusange, kugira ngo umubiri we ugume uhumeka neza, nta n'ikindi kibazo afite muri rusange.

Siporo cyangwa se imyitozo ngororamubiri ikorwa n'umuntu wese ubishaka, hagamijwe kugabanya ibiro, kongera umuvuduko, kugira imbaraga ndetse n'ibindi byinshi ndetse no kwirinda indwara ziganjemo umubyiho ukabije, umuvuduko w'amaraso ndetse n'izindi muri rusange, ubuzima bwawe bukagenda neza.

Imyitozo ngororamubiri ndetse n'amagufwa, izwi nka siporo, aho ikorwa n'umuntu wese hagamijwe kwirinda indwara nyinshi ziterwa no kudakora siporo ziganjemo, umubyibuhokabije, umuvuduko w'amaraso ndetse n'izindi, no kugira ubuzima bwiza muri rusange binyujijwe mu gukora siporo.

Abantu benshi batandukanye bari mu myitozo ngororamubiri izwi nka siporo hagamijwe kwirinda indwara nyinshi zitandukanye ziganjemo umubyibuho ukabije, diyabete no kugira ngo bagire ubuzima bwiza babinyujije muri siporo.

Zimwe mu ngaruka nziza zo gukora siporo cyangwa se imyitozo ngororamubiri ndetse n'amagufwa ziganjemo kugabanya kwandura umuvuduko w'amaraso, kugabanya siteresi, kujya ku biro no gufasha mu igogora ndetse n'izindi nyinshi muri rusange.

Kwa muganga ahatangirwa serivisi zitandukanye zijyanye n'ubuvuzi, aho ukeneye serivisi zose zerekeye n'ubuvuzi ziganjemo nko kumenyereza abarwayi gukomera kw'amagufwa ndetse n'izindi nyinshi zitangirwa kugira ubuzima bw'abaturage bukomeze kugenda neza.

Umuntu uri mu myitozo ngororamubiri n'amagufwa, bizwi nka siporo, uri kunywa amazi, agamije kwirinda indwara nyinshi zifata umuntu udakora siporo, ziganjemo umubyibuho ukabije, umuvuduko w'amaraso, ndetse ashaka no kugabanya siterese ndetse no kwivura indwara nyinshi zitandukanye, no kugira umubiri mwiza muri rusange.

Ibikoresho bikoreshwa no kwa muganga ndetse no mu ngo z'abantu byiganjemo iby'isuku ndetse n'imiti cyane cyane nka ga, cologate, ibinini n'ibindi byose bikoreshwa n'umuntu kugira amere neza muri rusange.

Umuntu wambaye imyenda ya siporo na ekuteri, uri muri siporo, uri kunywa amazi agamije kongera ubuhehere mu mubiri no kugira ngo akomeze akore siporo afite imbaraga n'amazi mu mubiri, agamije kugira ubuzima bwiza akuye muri siporo.

Umuntu uri mu myitozo ngororamubiri ndetse n'amagufwa muri rusange azwi nka siporo, aho ikorwa na buri muntu wese ubishaka mu rwego rwo kwirinda indwara nyinshi zitandukanye ziganjemo umubyibuho ukabije, umuvuduko w'amaraso ndetse n'izindi no gutuma umubiri umera neza muri rusange.

Umuntu uri muri siporo ngororamubiri ndetse n'amagufwa, ari kunywa amazi, yongera ubuhehere mu mubiri hagamijwe kwirinda indwara nyinshi zitandukanye ziterwa no kudakora siporo, ziganjemo nk'umubyibuho ukabije, umuvuduko w'amaraso ndetse n'izindi nyinshi no kugira ngo amererwe neza muri rusange bitewe no gukora siporo.

Imyitozo ngororamubiri n'amagufwa izwi nka siporo, ikorwa n'umuntu wese ubishaka mu rwego rwo kugira ngo yirinde indwara nyinshi zitandukanye ziganjemo umuvuduko w'amaraso, umubyibuho ukabije ndetse n'izindi no kugira umubiri mwiza muri rusange umeze neza.

Umuntu uri muri siporo ngororamubiri, wicaye ari kwigorora agamije kugorora umutsi, amagufwa, n'umubiri we wose muri rusange, kugira ngo ubuzima bwe bukomeze kugenda neza butarimo ikibazo na kimwe.

Imyitozo ngororamubiri ndetse n'amagufwa n'imitsi ikorwa n'umuntu wese ubishaka, hagamijwe kwigorora kugabanya ibiro ndetse no kwirinda indwara nyinshi zitandukanye zandura bitewe no kudakora siporo nk'umubyibuho ukabije, umuvuduko w'amaraso n'izindi.

Kwa muganga, ahatangirwa serivisi zitandukanye zo kwa muganga zijyanye n'ubuvuzi, aho abaturage benshi biganjemo ingeri zose, barimo n'abana, bajya bakeneye serivise zitandukanye z'ubuzima, ubundi bakabafasha, ubuzima bwabo bukamererwa neza.

Inyubako yo kwa muganga yiganjemo ibikoresho byinshi bitandukanye bikoreshwa n'abaganga birimo amamashini abaga n'amakopuyuta akoreshwa mu kazi ko kwa muganga ka buri munsi hagamijwe gutanga serivisi zinogeye abaturage kandi nziza n'ibikoresho byiza biri ku rwego rw'ubuvuzi bugezweho muri rusange abaturage bakamererwa neza.

Abantu bahuriye kwa muganga, baje gushaka serivisi zijyanye n'ubwivuzi, aho umuganga ari gusuzuma umwana mu kanwa yamwasamuye, ashaka kumenya ikibazo afite kugira ngo amufashe kumera neza.

Ibyuma bikoreshwa kwa muganga igihe bari gutanga serivisi z'ubuvuzi cyane cyane hari kubagwa nk'umuntu cyangwa hari gupimwa umuvuduko wo gutera k'umutima w'umuntu, hagamijwe kumenya uburyo mu mubiri we hameze.

Umuganga uri mu kazi ke ka buri munsi kajyanye no guha serivise abarwayi bagize ibibazo bitandukanye ndetse n'ibyiganjemo imvune, anabafasha gukora siporo kugira ngo bamererwe neza muri rusange, ubuzima bwabo busubire ku murongo.

Umuntu uri muri siporo wambaye ekuteri ari kunywa amazi aho umuntu ajya muriyo siporo akirukanka yananirwa agafata akaruhuko akanywa amazi kugira ngo agire imbaraga akomeze gukora siporo ameze neza nta kibazo afite umubiri wiwe ufite amazi bikamufasha kumera neza.

Siporo cyangwa se imyitozo ngororamubiri, ikorwa na buri umwe wese, ubishaka agamije kugorora imitsi no kugira ngo agire ubuzima bwiza buzira umuze, bimufashe kubaho neza nta kibazo afite mu mubiri no kuruhuka neza.

Siporo cyangwa se imyitozo ngororamubiri ikorwa na buri muntu wese, agamije kugorora mu mitsi n'amagufwa no kwirinda indwara ziterwa no kudakora siporo, zirimo nko kurwara imitsi no kubyibuha cyane n'izindi nyinshi ziterwa no kudakora siporo.

Abantu b'abaganga ba siporo, bari gutanga ubufasha ku bakinnyi bakina umukino wa rugubi, aho baba bashinzwe kwinjira mu kibuga igihe hagize umukinnyi ugira ikibazo wese, kumufasha mu buvuzi ku icyo kibazo aba agize cyose, hagamije gufata neza abakinnyi no kwirinda impanuka.

Siporo cyangwa se imyitozo igorora amagufwa, umubiri ndetse n'imitsi, ikorwa na buri muntu wese uyishaka, hagamijwe kwirinda indwara ziterwa no kudakora siporo, ziganjemo umuvuduko w'amaraso, umubyibuho ukabije, ndetse n'izindi nyinshi no gutuma umubiri umera neza muri rusange.

Igikapu cyabugenewe, gitwarwamo ibikoresho byinshi bitandukanye byo kwa muganga, gikunzwe gukoreshwa cyane cyane n'abaganga bavura abakinnyi, cyangwa se abari muri siporo, aho ashyiramo ibikoresho bitandukanye by'ibanze, bimufasha kuvura uwo muntu agiye guha serivisi y'ubuganga iyo ariyo yose.

Umuntu uri muri siporo agamije kwirinda indwara zitandukanye ziterwa no kudakora siporo no kugira umubiri uri fitinesi, ari kunywa amazi kugira ngo umubiri ukomeze uhorane ubuhehere kandi na siporo ari gukora zimugirire akamaro muri rusange.

Imyitozo ngororamubiri izwi nka yoga mu ndimi z'amahanga cyangwa se kwikorera mu kinyarwanda. Aho uba winanura, unanura uduce twose tw'umubiri wawe kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Wirinde gufatwa n'imitsi ndetse n'izindi ndwara zose zigendanye n'umubiri cyangwa se kudakora siporo.

Umuntu uri mu myitozo ngororamubiri, agorora amavi n'andi magufwa muri rusange, hagamijwe kugira ubuzima bwiza, binyujijwe muri siporo ndetse no kugorora imitsi kugira ngo agire ubuzima buzira umuze.

Ihuriro ry'abantu benshi batandukanye biganjemo urubyiruko ndetse n'abakuze, bahuriye ahantu hamwe mu kibuga, mu rwego rwo gukora siporo hagamijwe kugorora imitsi no kugira ubuzima bwiza muri rusange.

Siporo ngororamubiri n'amagufwa, ziba zigamije gutuma umubiri w'umuntu umera neza kandi ukaba ufite ubudahangarwa bwo kutatakwa n'indwara zibonetse zose.

Ibikoresho bya siporo byiganjemo imipira ikinwa mu mikino y'amaboko n'amaguru n'indi izwi nka gorife ndetse na kiriketi n'umugozi w'abaganga byifashishwa muri siporo n'abaganga kugira ngo bamere neza abaturage.

Siporo cyangwa se imyitozo ngororamubiri, aho umuntu wese azikora hagamijwe kwirinda indwara zirimo umubyibuho ukabije, umuvuduko w'amaraso, kugorora imitsi n'izindi nyinshi, unywa n'amazi, mu rwego rwo kugira umubiri ubobereye no kwirinda indwara.

Siporo cyangwa se imyitozo ngororamubiri umuntu wese akenera kugira ngo ubuzima bwe bube ku murongo abeho afite ubuzima bumeze neza kandi buzira umuze.

Umuntu uri muri siporo cyangwa se imyitozo ngororamubiri agamije kwirinda indwara nyinshi ziterwa no kudakora siporo zirimo imitsi, umubyibuho ukabije ndetse n'izindi no kugira ubuzima bwiza muri rusange anywa n'amazi.

Imyitozo ngororamubiri rusange, ahantu hahuriwe n'abantu benshi bari muri siporo hagamijwe kugira ngo bagire ubuzima bwiza, bakora imyitozo ngororamubiri ubuzima bwabo bukamera neza.

Umuntu uri muri siporo ngororamubiri ndetse n'imitsi, hagamijwe kwirinda indwara ziterwa no kudakora siporo, ziganjemo umubiri ukabije, umuvuduko w'amaraso ndetse n'izindi uri no kunywa amazi, agamije kongera ubuhehere no kugira ngo umubiri we ukore neza muri rusange, agire ubuzima bwiza.

Kwa muganga, ahari gutangirwa amahugurwa cyangwa se ikiganiro rusange. Hagamijwe kwigisha abaganga n'abakozi uburyo bakoresha imashini zo kwa muganga z'ikoranabuhanga zitandukanye, ku kazi kabo ka buri munsi.

Umuntu uri mu nyubako yabugenewe gukorerwamo siporo, izwi nka jimu, ari muri siporo, aho abantu batandukanye baza muri siporo, cyangwa se mu myitozo ngororamubiri bagamije kugira ubuzima buzira umuze, no kwirinda indwara nyinshi.

Umuntu uri muri siporo uri kunywa amazi, mu rwego rwo kugira ngo umubiri we ukomeze kumera neza, ntubure amazi kandi umere neza biturutse kuri siporo ari gukora.

Umuntu uri muri siporo, uri kunywera amazi mu gacupa, kugira ngo agire ubuzima bwiza, anakore siporo ameze neza nta kibazo afite, umubiri w'iwe urimo amazi, bimufashe kugira ubuzima bwiza buzira umuze, kubera ko yakoze siporo.

Siporo ngororamubiri, ziganjemo izigorora amaguru, izigorora amagufwa, izigorora ibiganza, amaboko ndetse n'izindi nyinshi, hagamijwe kwirinda indwara nyinshi zandurira mu kudakora siporo zirimo nk'imitsi ndetse umubyibuho ukabije n'izindi nyinshi.

Umuntu uri muri siporo, uri kunywa amazi agamije kongera ubuhehere mu mubiri no kongera imbaraga no kwirinda kumagara kugira ngo umubiri wiwe umere neza, ukore siporo umeze neza ntakibazo ufite.

Umuntu uri guhabwa serivisi z'ubuvuzi zo mu bwoko bwa siporo, bujyanye no kugorora imitsi ndetse n'amagufwa n'ibindi bituma umubiri wiwe umera neza muri rusange.

Imyitozo ngororamubiri cyangwa se siporo ikorwa n'abantu benshi batandukanye babishaka, bagamije kugabanya umubyibuho, kongera umuvuduko, kwirinda indwara nyinshi ziganjemo umuvuduko w'amaraso ndetse n'izindi nyinshi ziterwa no kudakora siporo.

Umugozi wabugenewe ukoreshwa n'abaganga, aho ubafasha mu kazi kabo ka buri munsi ko gupima abarwayi aho awambara mu matwi urundi ruhande akarukoza ku mutima kugira ngo yumve ukuntu umutima wawe utera nimba nta kibazo ufite.

Ubufasha bumeze nk'ubutabazi bw'ibanze, bukorwa n'abantu bose babishaka, aho ufasha umuntu byoroheje ako kanya, mu rwego rwo kugira ngo umurinde kumera nabi ako kanya, igihe atarabona ubufasha bwa muganga, bigatuma amera neza igihe atabona ubufasha bwa muganga.

Ibyatsi bikoreshwa mu buvuzi gakondo, aho abantu bajya gushaka ibyatsi hirya no hino, bakabizana bakabikusanyiriza hamwe bagakoramo imiti ya kinyarwanda ivura indwara nyinshi zitandukanye.

Imiti yateguwe neza mu byatsi n'ibimera bitandukanye aho biba byakusanyirijwe hamwe n'abavuzi gakondo bakayikoramo ubwoko bwinshi bw'imiti buvura indwara zitandukanye, zigahabwa abaturage zikabafasha mu bwivuzi bwabo bwa buri munsi.

Ibyatsi biboneka hirya no hino hatandukanye mu gihugu, cyane cyane mu mashyamba, bikorwamo imiti gakondo cyangwa se taradisiyoneri. Aho abantu bajya hirya no hino hatandukanye mu mashyamba, gushaka iyo miti y'ibyatsi bakayikusanyiriza hamwe, bakayikoramo imiti yabugenewe, igahabwa abaturage, ikabafasha kwivura indwara nyinshi zitandukanye.

Imiti gakondo yateguwe neza, ikagera ku rwego rwo kujyanwa ku isoko, igashyirwa mu byabugenewe birimo uducupa kugira ngo abantu baze kuyibona neza biboroheye kandi ibagirire akamaro.

Ibyatsi bitandukanye bisangwa hirya no hino mu gihugu, aho bikusanywa n'abavuzi gakondo bakabihuriza hamwe, bakabivanga bakabikoramo imiti ivura indwara nyinshi zitandukanye muri rusange, igashyirwa ku isoko igahabwa abarwayi bakayikoresha byemewe n'amategeko.

Imiti yateguwe mu bimera ndetse n'ibyatsi bya kinyarwanda yagejejwe ku isoko, aho ishyikirizwa abayikeneye, ikabavura indwara nyinshi zitandukanye kandi byemewe itabagiraho ingaruka, abantu bakabona imiti ya kinyarwanda myiza kandi ibafasha kwivura.

Ahantu hagurirwa imiti gakondo yateguwe neza, ikarangizwa ikajyanwa ku isoko, aho ishyirwa mu ducupa dutandukanye no mu matageri bitewe n'iyo ari yo, abakiriya kugira ngo babashe kuyimenya banayitandukanya, bityo biborohere kuyigura neza.

Imiti gakondo yakozwe neza igatunganwa igashyirwa ku isoko igahabwa n'ibirango aho iba igiye kuvura indwara nyinshi zitandukanye abaturage bakayikoresha nta kibazo ibateye kandi ibafasha mu kwivura.

Ibyatsi byinshi bitandukanye bikorwamo imiti ya kinyarwanda byiganjemo imiravumba ndetse n'ubundi bwoko bw'ibyatsi byinshi aho abavuzi gakondo bajya hirya no hino hatandukanye kubishaka bakabikoramo imiti itandukanye ivura indwara nyinshi muri rusange ikavura abaturage nta kibazo ibatera.

Ibyatsi bitandukanye bikoreshwa mu miti ya kinyarwanda, aho abavuzi gakondo bajya hirya no hino mu mashyamba ndetse n'ahandi hatandukanye gushaka ibyatsi, bakabikusanyiriza hamwe bagakora imiti ivura indwara nyinshi zitandukanye, igahabwa abaturage.

Umuti wo muri gakondo cyangwa se wateguwe mu byatsi ndetse n'ibimera bitandukanye, ugashyirwa ku isoko aho uba wateguwe n'abavuzi ba gakondo begeranyije ibi bitandukanye, bigakorwamo imiti myinshi y'ubwoko butandukanye, igashyirwa ku isoko igatanga uruhare mu buvuzi mu baturage, kandi itabagiraho ingaruka.

Ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu buvuzi gakondo byiganjemo ibyatsi by'ubwoko bwose bitandukanye birimo imibirizi, imiravumba ndetse n'ibindi ndetse n'agasekuru gasekurirwamo ibyo bikoresho igihe hari gutegurwa imiti gakondo kugira ngo iboneke bayigeze ku isoko byoroshye.

Ibyatsi byifashishwa mu buvuzi gakondo n'abavuzi ba Kinyarwanda. Aho bajya gushaka ibyatsi hirya no hino hatandukanye bakabikusanyiriza hamwe bakabivanga, bagamije gukora imiti ivura indwara nyinshi zitandukanye kugira ngo ubuzima bw'abantu bukomeze kumererwa neza.

Umuti uteguwe neza uri mu gacupa kariho n'ibyapa byaho, ukozwe mu bimera cyangwa se ubuvuzi gakondo. Wagejejwe ku baturage cyangwa se ahantu wawugurira, kugira ngo uwukoreshe ukugirire akamaro.

Imiti ya kinyarwanda y'ubwoko butandukanye, ivura indwara zitandukanye, yakozwe neza igashyirwa ku isoko, igahabwa n'ibirango, aho iba igiye kuvura indwara nyinshi, z'ubwoko bwinshi, muri rusange abaturage bakagira ubuzima bwiza.

Imiti yarangiye gutegurwa neza, yagiye ku isoko, ikomoka ku bijyanye n'ibimera cyangwa se ku buvuzi gakondo, aho ushobora gukura imiti ariko ikomoka ku bimera, ikagufasha mu burwayi bwawe bitewe n'icyo urwaye, bikoroheye.

Umuti wakozwe mu bimera cyangwa se mu byatsi gakondo biba byakozwe n'abavuzi ba kinyarwanda, aho bajya gushaka ibyatsi hirya no hino bakabikusanyiriza hamwe, bagakoramo imiti itandukanye igashyirwa ku isoko, ikavura indwara nyinshi zitandukanye, ubuzima bw'abantu bakagenda neza.

Imiti ikoze mu bimera yateguwe neza igashyirwa ku isoko, aho abantu baba bagiye hirya no hino gushaka ibyatsi by'ubwoko bwinshi butandukanye, bakabivangira hamwe bagakoramo imiti igashyirwa ku isoko, ivura indwara nyinshi kandi yemewe n'amategeko.

Ibyatsi bitandukanye biboneka ahantu henshi hatandukanye bikoreshwa mu buvuzi gakondo cyangwa se imiti ya kinyarwanda, aho ushaka ibyatsi hirya no hino bitewe n'imiti ushaka gukora ivura indwara runaka ikajyanwa ku isoko igafasha abantu muri rusange.

Imiti gakondo iri mu birahuri by'amatasi ikoreshwa mu buvuzi gakondo bwa kinyarwanda aho abaturage batandukanye bashaka abavuzi gakondo bakabasobanurira indwara barwaye bakabafasha babaha iyo miti bitewe n'indwara barwaye.

Ibyatsi bizwi nk'urumogi, biboneka ahantu hatandukanye henshi ku isi, no mu Rwanda bigaragara muri nyungwe, aho bikoreshwa nk'ubuvuzi bikorwamo imiti myinshi itandukanye, igashyirwa ku isoko, igahabwa abarwayi muri rusange.

Umuti wateguwe neza wakozwe mu bimera uzwi nk'uwa gakondo aho uba warakozwe mu byatsi n'ibimera bitandukanye biba byakusanyirijwe hamwe n'abavuzi ba gakondo bakabikoramo imiti igashyirwa ku isoko yemewe, yujuje ubuziranenge igahabwa abaturage ikabafasha m'ubuvuzi.

Kimwe mu byatsi bikoreshwa mu buvuzi gakondo, kugira ngo abantu babone imiti imeze neza. Aho abaturage bajya kuyishaka hirya no hino mu gihugu kugira ngo bayikusanyirize hamwe bakoremo imiti bitewe n'ibyo bashaka kuvura.

Bimwe mu byatsi bikoreshwa n'abavuzi gakondo, cyangwa se ubuvuzi gakondo, aho abantu bajya hirya no hino mu gihugu hatandukanye, bagiye gushaka ibyatsi bibafasha gukora imiti, baha abaturage bakamera neza.

Ibikoresho byinshi bitandukanye, bikoreshwa mu buvuzi gakondo cyangwag se ubuvuzi bwa kinyarwanda, birimo ibyatsi by'ubwoko bwinshi, imiti y'amazi, isekuru isekurirwamo ibyo byatsi cyangwa se ivangirwamo iyo miti kugira ngo ikorwe neza, itunganwe, ijyanwe ku isoko yujuje ubuziranenge.

Ibyatsi bikorwamo imiti gakondo cyangwa se iya kinyarwanda bitandukanye, aho abaturage bajya hirya no hino hatandukanye gushaka ibyatsi bakabikusanyiriza hamwe bagakora imiti ya kinyarwanda, igashyirwa ku isoko ikavura indwara nyinshi zitandukanye.

Imiti myinshi yateguwe mu bimera, ivura indwara nyinshi zitandukanye, yagejejwe ku isoko, aho iba igiye gufasha abaturage bayikoresha mu bwivuzi bw'indwara z'ubwoko bwinshi kandi ntakibazo byabatera, byemewe n'amategeko.

Imiti gakondo yiganjemo ibituruka ku bimera birimo ibyatsi bizwi nk'igikakarubamba, imiravumba n'imibirizi ndetse na voka, tangawizi n'ibindi byinshi bikorwamo imiti ya kinyarwanda, hagamijwe gutanga imiti ku baturage bose kandi yizewe.

Uducupa dutandukanye, turimo imiti ndetse n'ibirango bya Kinyarwanda, yarangijwe yateguwe neza igashyirwa ku isoko, aho abaturage bajya hirya no hino hatandukanye gushaka imitibyatsi, bakayivuguta, bakayivanga, bakayishyira mu ducupa bagashyiraho n'ibyapa igashyirwa ku isoko ku babishaka.

Imwe mu miti ya kinyarwanda cyangwa se gakondo yateguwe neza igashyirwa ku isoko aho iba igiye guhabwa abaturage ngo ibafashe mu buvuzi bwabo bwa buri munsi bagire ubuzima bwiza.

Amacupa atandukanye menshi ndetse n'ibikombe byinshi biri muri etajeri, ahantu hagurirwa imiti ya kinyarwanda cyangwa se taradisiyoneri, aho abaturage bajya kuyigura bitewe n'indwara barwaye bakayikoresha ikabafasha kumera neza mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Bimwe mu biti bikurwaho ibyatsi bikorwamo imiti ya Kinyarwanda aho bijyanwa mu bindi bikavangwavangwa n'ibindi byatsi biba byashatswe n'abavuzi ba gakondo hirya no hino mu Gihugu, bigakorwamo imiti ihabwa abaturage ikabavura indwara nyinshi zitandukanye muri rusange.

Ibyatsi byinshi by'ubwoko butandukanye ndetse n'iyindi miti ikoreshwa mu miti ya kinyarwanda cyangwa se gakondo, yakusanyirijwe hamwe n'umuvuzi, aho agiye kuyikoramo imiti ivura indwara zitandukanye, akayiha abaturage muri rusange.

Umuti wa kinyarwanda wateguwe mu bimera bitandukanye byiganjemo igikakarubamba, ugashyirwa ku isoko aho uba wujuje ubuziranenge, ukajya gukoreshwa n'abantu bivura indwara nyinshi zitandukanye, byemewe n'amategeko.

Ibyatsi byinshi by'ubwoko bwose, ndetse n'imbuto byifashishwa mu gukora imiti ya kinyarwanda ikozwe mu bimera. Aho abavuzi gakondo bavanga ibyatsi bitandukanye ndetse n'imbuto zitandukanye, bakabikoramo imiti ikabasha kuvura indwara nyinshi zitandukanye.

Bimwe mu byatsi bikoreshwa mu miti ya kinyarwanda cyangwa se gakondo, aho abaturage bajya gushaka ibyatsi bitandukanye hirya no hino, bakabikusanyiriza hamwe, bagakora imiti ya kinyarwanda ivura, imiti itandukanye igahabwa abantu, ikabafasha kwivura indwara zitandukanye.

Imwe mu miti ya gakondo yakozwe mu bimera ndetse n'ibyatsi byakusanyirijwe hamwe n'abavuzi gakondo, bakabikoramo imiti myinshi ivura indwara nyinshi zitandukanye igashyirwa ku isoko igafasha abaturage mu buvuzi.

Ahantu hahingwa ibyatsi bikorwamo imiti ya kinyarwanda cyangwa se izwi nk'iya gakondo, aho bikusanyirizwa hamwe bikavangwa bigakorwamo imiti ivura indwara nyinshi zitandukanye muri rusange, igashyirwa ku isoko igafasha abantu mu bwivuzi

Imiti y'ibyatsi iboneka ahantu henshi hatandukanye higanje mu mashyamba ndetse no mu misozi, aho abavuzi gakondo bajya hirya no hino mu mashyamba gushaka ibyatsi, bakabihuriza hamwe, bakabivanga bagakoramo imiti myinshi itandukanye ivura indwara, igashyirwa ku isoko igahabwa abantu yemewe n'amategeko.

Ishyamba ryiganjemo iririmo ibiti bikorwamo imiti ya kinyarwanda itandukanye birimo nk'imiravumba, imibirizi ndetse n'ibindi aho iyi miti isoromwa igakusanyirizwa hamwe n'abaganga gakondo ubundi bagakoramo imiti ifasha abaturage mu buvuzi gakondo.

Urubuto ruboneka ahantu henshi hatandukanye, mu gihugu ruzwi nk'ipapayi, rukoreshwa mu bintu byinshi bitandukanye byiganjemo, iby'ubuvuzi ndetse no kugira ubuzima bwiza ururiye kugira ngo umere neza mu mubiri.

Bimwe mu byatsi bikorwamo imiti ya kinyarwanda biboneka hirya no hino hatandukanye mu gihugu aho abavuzi gakondo bajya kubishaka bakabizana bakabikusanyiriza hamwe bakabivanga bagakora imiti itandukanye ivura indwara nyinshi zitandukanye muri rusange abantu bakayikoresha kandi ikabavura. Itabateye n'ikibazo.

Inzu washakiramo imiti yose y'ubwoko bwinshi ivura indwara zitandukanye, ikomoka ku bimera iba ikozwe mu byatsi ndetse n'ibiti muri rusange izwi nk'imiti ya gakondo, aho ushobora kuza ukayihagurira ukayikoresha wivura indwara nyinshi zitandukanye.

Ibyatsi bikorwamo imiti ya kinyarwanda izwi nka gakondo biboneka hirya no hino mu gihugu, aho abaturage bajya kubishaka mu mashyamba ndetse n'ahandi hatandukanye biboneka bakabikusanyiriza hamwe bagakora imiti ijyanye n'iyo bashaka gukora n'indwara bashaka kuvura.

Ibikoresho bikoreshwa n'abavuzi bavura bifashishije imiti gakondo, byiganjemo udusekuro n'imihini basekurisha imiti yabo, igihe bari kuyitegura kugira ngo bayihe abakiriya, bikabafasha kubona imiti biboroheye bakoresheje utwo dukoresho.

Ibyatsi bikorwamo imiti ya kinyarwanda itandukanye aho abaturage bajya hirya no hino hatandukanye, mu mashyamba ndetse no mu misozi gushaka ibyatsi by'ubwoko bwinshi, bigakusanyirizwa hamwe bigakorwamo imiti ya kinyarwanda, igashyirwa ku isoko igafasha abantu kwivura indwara nyinshi zitandukanye.

Ibyatsi byinshi by'ubwoko bwose butandukanye, biboneka ahantu henshi hatandukanye mu gihugu, aho bikusanyirizwa hamwe bigakorwamo imiti ya kinyarwanda, bigashyirwa ku isoko ari imiti yuzuye itanga ubuvuzi ku baturage, muri rusange bagakomeza kugira ubuzima bwiza, babona imiti hafi kandi yujuje ubuziranenge.

Ibyatsi byinshi bitandukanye, bikorwamo imiti ya Kinyarwanda cyangwa se imiti gakondo, aho abavuzi gakondo bajya hirya no hino mu gihugu higanjemo amashyamba ndetse n'imibande gushaka ibyatsi, bakabikusanyiriza hamwe, bagakora imiti ya Kinyarwanda ivura indwara nyinshi zitandukanye.

Imiti yateguwe neza. Iteguwe n'abavuzi gakondo, aho baba bagiye hirya no hino mu gihugu hatandukanye gushaka ibyatsi ,bakabikusanyiriza hamwe bakabitegura, bakabivanga kugeza ubwo bivuyemo imiti yabugenewe, ikajyanwa ku isoko mu ducupa twabugenewe ,igahabwa abayikeneye.

Ahantu abavuzi gakondo bashobora kwifashisha, mu gihe bari gushaka ibyatsi bakoramo imiti ya kinyarwanda, birimo: nyirabarasanya, imiravumba, imibirizi, ndetse n'ibindi byatsi byinshi bikorwamo imiti gakondo aho abaturage bajya hirya no hino mu gihugu gushaka ibyatsi byo gukoramo imiti gakondo.

Ibyatsi biboneka mu ishyamba bizwi nk'ibihuru, byifashishwa mu buvuzi bwa Kinyarwanda, bivura indwara zitandukanye, aho abavuzi gakondo babitegura neza, bakabivanga n'indi miti, bakabishyira ku isoko babikozemo imiti ivura neza.

Imiti ya kinyarwanda cyangwa se gakondo yatunganijwe neza ikagerwa ku rwego rwo gushyira ku isoko, aho abaturage bayisanga yateguwe ikagurwa ikabafasha kwivura indwara nyinshi zitandukanye.

Imiti gakondo yateguwe neza igakorwa kugeza ku rwego rwo kujyanwa ku isoko, aho ushobora kuyibona iteguye neza kandi byemewe n'amategeko ku buryo ushobora kuyigura ukayijyana kuyikoresha ikagufasha kumererwa neza.

Ibyatsi byinshi bitandukanye, bikorwamo imiti yo gukoreshwa mu buvuzi gakondo, byiganjemo ibikakarubamba, imiravumba ndetse n'ibindi byinshi byikoreshwa mu buvuzi gakondo, hagamijwe gutanga serivisi z'ubuvuzi mu baturage.

Ibyatsi bikorwamo imiti ya kinyarwanda bizwi nk'imiravumba, aho bikusanyirizwa hamwe n'ibindi bikavangwavangwa hagakorwamo imiti myinshi itandukanye ivura indwara nyinshi ariko mu buryo bwa kinyarwanda, igahabwa abaturage ikabafasha kwivura amoko menshi y'indwara, bakagira ubuzima bwiza muri rusange.

Imiti ya Kinyarwanda yatunganijwe ikageza ku rwego rwo gukoreshwa ikanashyirwa mu ducupa aho abakiriya bazajya bayisanga bitabagoye bakabaha amafaranga, na bo bagatwara iyo miti ikozwe mu byatsi bitandukanye byiganjemo ibikakarubamba ndetse n'ibindi mu rwego rwo kubona ubuvuzi gakondo.

Umuravumba cyangwa se umuti watunganijwe mu bimera gakondo n'abavuzi ba gihanga, ugakorwa neza ukagera ku rwego ushyirwa ku isoko aho uba ugiye guhabwa abaturage ukabafasha kwivura indwara nyinshi zitandukanye muri rusange.

Ibyatsi bikorwamo imiti ya kinyarwanda bizwi nk'imiravumba, igaragara hirya no hino mu gihugu cyane cyane ahiganje mu masambu ndetse no mu mashyamba, aho abaturage batandukanye bajya kuyishaka hirya no hino, bakayizana bakayikusanyiriza hamwe n'iyindi, bakayitegura neza kugeza ubwo ivuyemo imiti ihabwa abaturage nta ngaruka.

Imiti ikomoka ku bimera izwi nk'iya gakondo, ikozwe mu byatsi byiganjemo ibikakarubamba ndetse n'ibindi ivura indwara zitandukanye, ikoreshwa n'abantu batandukanye kugira ngo bagire ubuzima bwiza, bibafashe kubaho ubuzima butagira umuze.

Umuti wateguwe ukarangira wa gakondo, ukorwa mu bimera birimo ibikakarubamba ufasha abantu kumererwa neza bitewe n'ikibazo ufite.

Imiti ya gakondo yateguwe neza ikagera ku rwego rwo kujyanwa ku isoko aho abantu batandukanye bayisanga bakayigura bitewe n'indwara bashaka kuyivuza bikabafasha kumererwa neza.

Imiti gakondo ndetse n'ibikoresho byikoreshwa mu buvuzi gakondo, biri ahantu hamwe ku musambi byiganjemo ibyatsi, udukono, udusekuru ndetse n'ibindi bintu byose byifashishwa mu buvuzi gakondo.

Ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa mu miti ya kinyarwanda cyangwa se y'ibyatsi, byiganjemo ibyatsi bitandukanye ndetse n'ibindi byinshi birimo nk'udusekuru n'uducupa dukoreshwa mu miti ya kinyarwanda.

Imiti yateguwe mu byatsi ndetse n'ibimera biba byakusanyirijwe hamwe n'abavuzi gakondo bagakora, imiti ivura indwara nyinshi zitandukanye, igashyirwa ku isoko, ikavura ubwoko bw'indwara imyinshi, igafasha abantu muri serivise y'ubwivuzi.

Umuntu ufite imiti y'ibyatsi mu ntoki ikoreshwa mu buvuzi gakondo cyangwa sitiradisiyoneri, aho abaturage bajya hirya no hino hatandukanye gushaka imiti bakayikusanyiriza hamwe. Bakayitegura kugeza ubwo ivuyemo imiti yemewe igashyirwa ku isoko, ikavura indwara zitandukanye ariko ari imiti y'ibyatsi.

Bimwe mu byatsi bikoreshwa mu buvuzi gakondo cyangwag se mu miti Kinyarwanda biboneka hirya no hino hatandukanye cyane cyane mu mashyamba, aho abavuzi gakondo bajya hirya no hino gushaka ibyatsi bakabikusanyiriza hamwe, bakabikoramo imiti itandukanye yemewe n'amategeko, ivura indwara nyinshi muri rusange abaturage bakayikoresha bivura indwara.

Imiti gakondo yateguwe neza ikagera ku rwego rwo gushyirwa ku isoko, aho abaturage batandukanye hirya no hino bajya gushaka imiti ahantu henshi hatandukanye, bakayikusanyiriza hamwe bakayikora neza, bakayivanga, bakayishyira mu ducupa twabugenewe ikagezwa ku isoko igahabwa abayishaka, ikabafasha kwivura indwara nyinshi zitandukanye ubuzima bwabo bukagenda neza.

Ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu miti ya kinyarwanda cyangwa se gakondo byiganjemo: ibyatsi, imbuto, udusekuru ,udukono ndetse, n'ibindi byinshi bikorwamo imiti ya kinyarwanda hagamijwe gutanga imiti yujuje ubuziranenge ku bayikeneye.

Ibyatsi bikorwamo imiti ya Kinyarwanda aho bikusanyirizwa hamwe n'abavuzi ba gakondo baba bagiye kubishaka hirya no hino hatandukanye mu Gihugu. Bakabikoramo imiti myinshi ivura amoko menshi y'indwara, igashyirwa ku isoko igahabwa abantu bakayikoresha bivura indwara z'ubwoko butandukanye.

Ibyatsi bikorwamo imiti ya kinyarwanda cyangwa se imiti gakondo, aho abantu benshi bajya mu bice bitandukanye, gushaka ibyatsi byinshi by'ubwoko butandukanye, bakabihuriza hamwe bagakora imiti ivura indwara nyinshi zitandukanye, igashyirwa ku isoko, ikabafasha mu kuvura.

Imiti ya kinyarwanda yagejejwe ku isoko, yateguwe neza mu bimera byiganjemo ikawa ndetse n'ibindi byinshi byavanzwe n'abavuzi ba kinyarwanda bazwi nk'aba gakondo, bakabishyira ku isoko, aho abakiriya babibona muri rusange bakabigura, bikabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi mu mibereho myiza no kwirinda indwara.

Ibyatsi cyangwa se ibikoresho bikoreshwa n'abavuzi gakondo mu rwego rwo gutanga imiti ku baturage, aho abantu bajya hirya no hino mu gihugu bagiye gushaka ibyo byatsi bakabikusanyiriza hamwe, bakabigira neza, bakabitegura kugera ku rwego bivuyemo imiti ihabwa abaturage.

Imiti yateguwe neza mu bimera n'ibyatsi bya gakondo bitandukanye, byiganjemo ibikakarubamba ndetse n'ibindi biba byakusanyirijwe hamwe n'abavuzi ba gakondo bakabikoramo imiti itandukanye ivura indwara nyinshi.

Ahantu ushobora gusanga imiti y'ubwoko bwinshi butandukanye yo mu byatsi cyangwa se ya gakondo, aho abavuzi ba kinyarwanda baba bagiye hirya no hino gushaka ibyatsi ndetse n'ibimera, bakabivangira hamwe bagakora imiti myinshi ivura indwara nyinshi, igahabwa abaturage nta ngaruka bakagira ubuzima bwiza.

Ibyatsi bikoreshwa mu buvuzi gakondo, aho abavuzi ba kinyarwanda bajya hirya no hino mu mashyamba gushaka ibyatsi bakabikusanyiriza hamwe bakabikoramo imiti, bakabishyira ku isoko byavuyemo imiti ifasha abaturage.

Imiti ya kinyarwanda yateguwe neza, igahabwa n'ibirango, ibikozwe mu byatsi byinshi bitandukanye biba byakusanyirijwe hamwe n'abavuzi gakondo, igashyirwa ku isoko, aho iba igiye kuvura indwara nyinshi zitandukanye.

Tangawize, ikimera cyifashishwa ahantu henshi hatandukanye harimo nko gukora icyayi, kuvura indwara zitandukanye zijyanye n'ubuhumekero, aho ugikoresha mu buryo butandukanye bitewe n'uburyo ushaka kugikoresha kikagufasha kumererwa neza mu buzima bwawe bwa buri munsi.

Imiti ya kinyarwanda, yateguwe neza muri rusange ikarangizwa igashyirwa ku isoko aho iba yateguwe mu bimera ndetse n'ibyatsi bitandukanye biba byahurijwe hamwe n'abavuzi gakondo, bagakoramo imiti myinshi itandukanye ivura indwara zitandukanye, igashyirwa ku isoko, igafasha abantu mu kwivura indwara zitandukanye.

Igisubizo kuri amibe, umuti wa Kinyarwanda wateguwe neza ukagezwa ku isoko, aho abaturage hirya no hino mu gihugu bajya mu mashyamba n'ahandi henshi hatandukanye, gushaka ibyatsi bakabihuriza hamwe, bagakoramo imiti itandukanye yiganjemo n'ivura amibe ikajyanwa ku isoko, igafasha abaturage kwivura amibe.

Umuti wa gakondo wateguwe mu bimera n'ibyatsi bitandukanye biba byakusanyirijwe hamwe n'abavuzi gakondo bakabikoramo imiti myinshi itandukanye ivura indwara nyinshi zigahabwa abaturage zikabafasha mu bwivuzi.

Bimwe mu bimera bikorwamo imiti ya kinyarwanda cyangwa se taradisiyoneri aho abantu bajya gushaka ibyatsi hirya no hino mu mashyamba bakabikusanyiriza hamwe bagakoramo imiti bifuza bitewe n'indwara bashaka kwivuza.

Inzu igurishirizwamo cyangwa se wasanga imiti yose ya kinyarwanda, ikomoka ku bimera itunganyije neza yageze ku rwego rwo guhabwa abakiriya n'abantu bose bayikeneye, ahubwo ushobora kuhasanga imiti y'ubwoko bwose, bitewe n'indwara urwaye, bikagufasha kugira ubuzima bwiza.

Ibyatsi bikorwamo imiti ya kinyarwanda aho abantu bajya hirya no hino hatandukanye bakajya kubishaka, bakabikusanyiriza hamwe bakabivanga, bagakora imiti ivura indwara nyinshi zitandukanye, igahabwa abaturage bakayikoresha muri rusange.

Imiti ya Kinyarwanda yateguwe neza mu bimera ndetse n'ibyatsi muri rusange byakusanyirijwe hamwe n'abavuzi ba gakondo bakabivanga, bagakoramo imiti myinshi y'ubwoko bwose kandi butandukanye ivura indwara nyinshi zitandukanye, igashyirwa ku isoko, igahabwa abantu, ikabafasha kwivura indwara nyinshi.

Ibyatsi bitandukanye bikoreshwa mu miti gakondo cyangwa ya kinyarwanda, aho abantu bajya hirya no hino guhinga ibyatsi bakabizana, bakabikusanyiriza hamwe, bakabivanga, bagakora imiti ivura indwara nyinshi z'ubwoko bwose butandukanye.

Icyatsi gikoreshwa mu buvuzi bwa Kinyarwanda cyangwag se ubwa gakondo kizwi nk'umuravumba, aho kivura indwara nyinshi zitandukanye, gikusanyirizwa hamwe kikavangwa n'ibindi byatsi bigakorwamo imiti ivura indwara nyinshi zitandukanye, muri rusange abantu bakagira ubuzima bwiza babona imiti hafi.

Bimwe mu byatsi bikoreshwa mu buvuzi gakondo bikorwamo imiti ya Kinyarwanda aho abavuzi bajya gushaka ibyatsi hirya no hino mu mashyamba n'ahandi bakabikusanyiriza hamwe bagakora imiti ivura indwara zitandukanye, igashyirwa ku isoko ikavura abaturage indwara zitandukanye.

Imiti ya kinyarwanda yakozwe neza igatunganywa, igashyirwa ku isoko, yiganjemo iyakozwe mu bikakarubamba ndetse n'ibindi byatsi, biba byaturutse hirya no hino, aho bihurizwa hamwe bigakorwamo imiti, igashyirwa ku isoko, ivura indwara nyinshi zitandukanye bityo abantu bakabona imiti itandukanye.

Bimwe mu bikoresho bikoreshwa mu buvuzi gakondo n'abavuzi ba gihanga, bizwi nk'ibitunguru cyangwa se tungurusumu, aho bishyirwa mu bindi bikavangwa n'ibyatsi, bigatanga umuti ku bantu babyifuza wa kinyarwanda.

Ibyatsi byifashishwa mu miti gakondo ya kinyarwanda, aho abanyarwanda batandukanye, bajya hirya no hino mu mashyamba ndetse no muzindi nce zitandukanye z'igihugu gushaka ibyatsi, bakaza bakabitunganya kugeza bavanyemo umuti wabugenewe baha abakiriya babo na bo bakabaha amafaranga.

Imiti yateguwe mu bimera yashyizwe ku isoko, aho abantu bajya hirya no hino hatandukanye gushaka ibyatsi byinshi by'ubwoko bwose bakabishyira hamwe bakabivanga bakabikuramo imiti igashyirwa ku isoko ikavura indwara nyinshi zitandukanye bigafasha abaturage kubona ubu kuvuza.

Bimwe mu byatsi bikorwamo imiti ya Kinyarwanda, byiganjemo igikakarubamba ndetse n'ibindi, aho bikusanyirizwa hamwe bikavangwa n'abavuzi gakondo, bigakorwa neza bigashyirwa ku isoko, byemewe n'amategeko, bikajya gufasha kuvura indwara nyinshi zitandukanye muri rusange.

Medesino puranti cyangwa se ibimera bifashishwa mu buvuzi, ibyatsi byinshi bitandukanye byifashishwa mu buvuzi bivura indwara nyinshi zitandukanye muri rusange.

Ubuvuzi gakondo bwiganjemo ibikomoka ku bimera birimo nka avoka bikorwamo isabune n'igikakarubamba byifashishwa mu buvuzi gakondo kugira ngo abaturage bagire ubuzima buzira umuze babone n'imiti.

Umuti wa kinyarwanda,, wateguwe neza n'abavuzi gakondo witwa umuravumba. Aho abavuzi bajya hirya no hino hatandukanye gushaka ibyatsi bakabivanga bakabikoramo umuti wemewe ugahabwa abaturage nta kibazo wabateza muri rusange.

Umuti wa gakondo wateguwe neza ukozwe mu bimera n'ibyatsi byakusanyirijwe hamwe bikavangwa neza n'abavuzi ba gakondo bakabikoramo umuti ugashyirwa ku isoko, aho bugiye kuvura indwara nyinshi zitandukanye abantu bakawukoresha nta ngaruka nta n'ikibazo.

Ibyatsi bikoreshwa mu buvuzi gakondo cyangwa se ubuvuzi nyarwanda aho abavuzi ba gakondo bajya hirya no hino hatandukanye, gushaka ibyatsi by'ubwoko bwinshi, bakabikusanyiriza hamwe, bakabikoramo imiti itandukanye, ivura indwara nyinshi, igashyirwa ku isoko ikavura indwara nyinshi.

Bimwe mu byatsi bikoreshwa mu buvuzi gakondo cyangwa se ubuvuzi nyarwanda, aho abaturage batandukanye babishaka bakabikusanyiriza hamwe bakabikoramo imiti ivura indwara nyinshi zitandukanye igashyirwa ku isoko igatanga uruhare mu buvuzi.

Imiti ya kinyarwanda cyangwa se ikoze mu byatsi, yateguwe neza igashyirwa ku isoko, aho iba yarateguwe mu bimera bitandukanye, aho abavuzi gakondo bajya hirya no hino mu mashyamba gushaka ibyatsi ndetse n'ibimera, bakabikusanyiriza hamwe bagakora imiti ivura indwara nyinshi zitandukanye, igashyirwa ku isoko igatanga uruhare mu buvuzi kandi bidateje ikibazo.

Ibikoresho byifashishwa mu buvuzi gakondo cyangwa se n'abavuzi ba kinyarwanda, byiganjemo udukono, udutebe tw'udusongabugari, uducuma, utubindi, inzogera n'ibindi byinshi abavuzi gakondo bakoresha bari kuvura.

Imiti y'ibyatsi yateguwe neza igashyirwa ku isoko, aho abavuzi gakondo bajya hirya no hino hatandukanye gushaka ibyatsi by'ubwoko bwinshi butandukanye, bikavangirwa hamwe kugeza ubwo bivuyemo imiti ihabwa abaturage, ikabafasha mu buzima bwa buri munsi mu bwivuzi.

Ibimera byinshi, bitandukanye by'ubwoko bwose, byifashishwa hari gutegurwa imiti gakondo aho abavuzi gakondo, bakusanya ibimera by'ubwoko butandukanye, bakabikoramo imiti igashyirwa ku isoko ikavura indwara zitandukanye kandi nyinshi byemewe n'amategeko.

Ibimera bikorwamo imiti ya kinyarwanda cyangwa se ya gakondo itandukanye, aho abavuzi ba gakondo bajya hirya no hino gushaka, ibyatsi, imizi y'ibiti n'ibimera byinshi, bikavangirwa hamwe bigakorwamo imiti ivura indwara nyinshi zitandukanye, igahabwa abaturage ikabafasha mu bwivuzi kandi itabagizeho ingaruka.

Ahantu washakira imiti itunganyije neza ikomoka ku bimera bizwi nk'imiti gakondo, aho abaturage baba bashatse imiti itandukanye ikozwe mu byatsi byinshi bitandukanye bakayishyira ku isoko ariko bayikoze neza ku buryo itagira ikibazo ku buzima bw'abantu bakabona amafaranga.